Imbaga y'abaforomo n'abaforomokazi ubona ko bahawe amahugurwa, bakaba bagiye gufata ingamba nshya zo kwita ku barwayi ndetse no gutanga serivisi nziza.

Abantu baricaye bari mu nama, ni abagore bazanye abana babo ubona ko imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima, afite ikayi mu ntoki, afite n'ikaramu, asa nk'ufite ibyo ari kubabwira abaganiriza, uburyo bakita ku bana babo bakagira imikurire myiza.

Umuntu w'umugore wambaye igitenge akaba ateze n'igitambaro yambaye ibirenge, ari kuvoma amazi meza ayavomera mu ndobo ifite umukondo w'umukwege baterura.

Umuntu bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima, afite igipapuro gishushanyijeho utwana tubiri, agahungu n'agakobwa. Arimo arereka umubyeyi wambaye ibitenge, amwereka uburyo umwana ukura neza yagakwiye kuba angana.

Abantu babiri, umwe ni umwana w'umukobwa, undi ni umugabo, uwo mugabo ari gukorera ijerekani uwo mwana w'umukobwa, iyo jerekani yanditseho ijambo riri mu mpine, rigaragaza umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana.

Abantu b'abaganga bambaye imyenda ibapfutse umubiri wose, bisa nk'aho bari gukorera ahantu hari umwanda, bakaba ari yo mpamvu bipfutse kugira ngo batagira indwara bandura.

Umubyeyi wambaye agapira akaba ateze n'igitambaro afite umwana mu kuboko, ubona ko imbere ye hari ijerekani, hakaba hari n'amabasi ibasi imwe itukura iteze ku mugezi. Inyuma y'umugezi hari abandi bana barigupomba amazi.

Umwana ari gukaraba kuri robine, uyu mwana ari gukaraba amazi amanuka agwa mu ibasi, akaba yegereye igipangu cyubakishijwe amatafari azwi ku izina rya burokesima.

Umuntu bigaragara ko ari mu cyumba cyo kwa muganga ndetse imbere ye hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bicometse ku muriro w'amashanyarazi, bishobora kuba byifashishwa mu gupima abarwayi.

Umuganga ari imbere y'umubyeyi, umubyeyi ari kwandika mu ikaye. Ubona ko hari ibyo muganga yamusabye kuzuza. Ku meza hari n'ibindi bintu bihateretse bimeze nk'amacupa. Inyuma y'umuganga hari intebe ziticawemo.

Ubukangurambaga bugenda bukorwa hirya no hino, aho Leta y'u Rwanda ishishikariza ababyeyi kugaburira abana babo indyo yuzuye by'umwihariko aba bana bafite imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu kuko burya n'iho abana baba bakeneye kwitabwaho cyane.

Abantu bicaye ku meza ubona ko bagiye bayizenguruka. Imbere ya buri wese hateretse agacupa k'amazi ndetse hari undi umwe wicaye wegereye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ubona ko ari umuyobozi wabo.

Abantu babiri bose b'igitsina gore, umwe ni umuntu ubona ko akuze undi ukiri muto ndetse bose bakaba bicaye bifashe mu buryo bumwe ndetse imbere yabo hateretse ameza ari na yo barambitseho intoki zabo.

Abantu baje kuvoma ku ivomero rusange, hakaba hatondetse amajerekani menshi cyane arimo ay'umuhondo menshi ndetse ubona ko hari n'umuntu w'umukobwa wambaye agapira k'umukara ubafasha kugira ngo abashe kubavomera.

Urukingo rw'umwijima, akaba ari urukingo rwabonetse ndetse rukaba rugiye kuzatangwa ku isi hose. Bakaba bari gushakisha n'uburyo babona urukingo rwa kanseri y'ibere.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama hagati yabo hakaba hateretse ameza, ayo meza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye harimo telefoni, harimo mudasobwa, harimo n'amasharijeri ari gucaginga ibyo byuma.

Ifoto irimo umukobwa, ikaba ishushanyije ku cyapa kinini, hakaba hari n'amagambo yanditse agira ati: "Tugomba gushyira hamwe twese tugahaguruka hanyuma tugafatanyiriza hamwe kugira ngo tubashe kurwanya indwara."

Abantu bicaye mu nyubako barimo n'umuntu umwe ufite mudasobwa uri kuyirebamo afite n'impapuro mu ntoki, imbere ye hari umuntu utegereje serivisi akaba ari umubyeyi, hari n'abandi babyeyi bicaye ku ntebe iri hakurya.

Umwana ateze intoki ku mugezi arimo arakaraba, imbere ye hari amajerekani y'umuhondo n'iy'ubururu ategereje kugibwamo amazi.

Inyubako y'ikizeru imeze nk'ikigega, ikaba ifite ibyuma bizengurutse ndetse ubona wagira ngo hari ibintu by'amazi biri hejuru, hakaba hari ama esikariye azamuka ayijyaho.

Ubukangurambaga bugenda bukorwa hirya no hino, kugira ngo dushishikarize abaturage bose kwita ku bana babo babaha indyo yuzuye, mu rwego rwo kugira ngo bagire imikurire myiza, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga inzego z'ubuyobozi zitandukanye nka polisi ndetse n'izindi nzego z'ibanze nabo bari muri ubu bukangurambaga.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo agiye atandukanye kikaba cyifashishwa mu kwamamaza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe ubona ko bari guhabwa abahugurwa, ubona ko ari n'abajyanama b'ubuzima, bakaba bafite amakayi bari kwandikamo ndetse harimo abagabo, abagore ndetse bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abantu bicaye mu nama bari imbere ku ruvugiro ndetse inyuma ya bo hari ikintu kinini cyane cyanditseho amagambo agaragaza insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Umuntu w'umwana mutoya wambaye agapira k'umutuku. Ateze igikombe kuri robine amazi arikugwa mu gikombe ubona ko agiye kuyanywa. Si byiza kunywa amazi adatetse.

Abantu beza cyane, bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse hari n'abandi babiri, begeranye, bambaye imipira y'ubururu bwerurutse, aba bose bafatiye ifoto hamwe nyuma yo gukora inama yigaga ku buzima bugiye butandukanye.

Umumama ukenyeye igitenge wambaye agapira gatambitsemo imirongo y'umweru niy'umukara ariko ho kakaba kiganjemo ibara ry'iroze, akaba yambaye n'ingofero y'ubururu ari kuvomera mu ijerekani y'umuhondo, aho agira ngo acyure amazi meza.

Amajerekani aratondetse ari kuri robine ategereje kuvomerwamo amazi. Urabona ko abantu ari benshi bose bategereje aya mazi kuko ari meza. Ni ku ivomero rusange.

Umubyeyi ari gukaraba amazi kuri kandagira ukarabe, uyu mubyeyi akaba avuye mu bwiherero ndetse akaba ari gukaraba aya mazi kugira ngo ataza kugira umwanda ajyana mu nzu cyangwa se ahandi hose yaba agiye.

Umubyeyi ateruye umwana, uwo mwana yambaye imyenda y'umweru n'akagofero k'abana, muganga ari kumuha umuti ubona ko ari ibintu byiza cyane, dushishikariza ababyeyi kuzana abana babo kwa muganga kugira ngo bahabwe ibyagenewe abana batoya.

Umuntu w'umukobwa wicaye adundamye, cyangwa se asutamye ari kuvoma amazi kuri robine. Iyo robine ifite akagufuri bivuze ko iyo amaze kuvoma ahita afunga ku buryo nta wundi muntu waza kuhavoma atabisabiye uburenganzira.

Umubyeyi ari gufasha umwana we gukaraba intoki, akoresheje amazi meza n'isabune, bikaba ari ibintu by'ingenzi ndetse bikwiye gukorwa na buri wese, kugira ngo twigishe abana batoya kugira isuku.

Umwana ari kuvoma amazi ayavomera mu ndobo ndetse ari kuvoma amazi meza cyane ari guturuka muri robine, inyuma ye hari undi mwana ufite indobo nawe utegereje kugerwaho kugira ngo avome.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, bamwe imbere abandi inyuma, ubona ko bari kurebana, imbere ya buri wese hateretse amazi yo kunywa, hari abafite mudasobwa, hari abari kwirebera mu materefone ngendanwa yabo.

Umwana arimo arakinisha amazi, ayanywa yongera ayacira ndetse ubona ko atari ibintu byiza cyane kuko bishobora kumuviramo ingaruka zikomeye, nko kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kunywa amazi adatetse.

Umuntu w'umukobwa ari gupomba amazi, ubona ko hari abana imbere bari kuvoma ndetse bakaba bategereje ko amazi yuzura. Ni abana bane ariko hateretse ubuvido bugera muri butatu, bisa nkaho umwe ari mutoya atashobora akavido, hirya haruguru mu muhanda hari gutunguka imodoka y'umweru.

Umwana w'umuhungu wambaye impuzankano z'ishuri, akaba ari gukaraba amazi meza kuri robine, iruhande rwa robine hateretse idomoro y'ubururu bwerurutse ubona ko iri bujyemo amazi.

Umwana ari kuvoma amazi kuri robine, ateze akajerekani ndetse iruhande rwe harindi jerekani nini, har'undi mwana inyuma uri gupomba amazi, bigaragara ko ari amazi agoye kuyavoma cyangwa kuyabona bisaba imbaraga n'agatuza.

Ku ivomero rusange, hari umwana uri kuvoma amazi, ari kuyavomera mu kavido k'arindwi, hari umugabo wamufunguriye, uri inyuma ya robine. Inyuma y'umugabo hari inzira iri kunyurwamo n'abanyeshuri bavuye kwiga.

Leta y'u Rwanda ni nziza cyane ikora ibintu byiza ndetse kuri ubu yashyizeho gahunda yo kugaburira buri mwana wese wiga mu mashuri abanza, aho iyo yagiye ku ishuri afata ifunguro ryiganjemo intungamubiri zitandukanye.

Abana benshi cyane, ubona ko bari gukaraba amazi bashoye intoki ku ihombo ryaturitse, hari n'ibasi y'umutuku iteretse munsi iri kujyamo amazi ari kuva muri iryo hombo, mubyukuri ubona ko ari ibintu bidashimishije kuko aya mazi ashobora gutera aba bana indwara zituruka ku mwanda.

Umuryango w'Isi yose wita ku buzima, cyangwa se akaba ari ikirangantego cyawo bari kutwereka, munsi handitseho amagambo agisobanura.

Umuhanzi Israel Mbonyi ni umuhanzi mwiza cyane kuko araririmba abantu bakishima, bakanezerwa ndetse ukabona ko ari ibintu byiza cyane, gusa igitangaje ni uko agira n'uruhare muri gahunda za Leta nk'aho ajya yifashishwa mu gushishikariza ababyeyi kugaburira abana babo indyo yuzuye.

Abana bakunda koga mu kiyaga cyangwa se mu migezi, gusa rimwe na rimwe bisaba ko ducungira hafi kuko hari igihe haza imyuzure ugasanga baguyemo.

Umubyeyi ari kuvoma amazi meza ari kuyavomera mu ndobo inyuma hari abandi bagore 2 bambaye ibitenge harimo umwe wikokoye wambaye agaseri bakaba bari gupomba amazi.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa ku isi hose bukitabwaho by'umwihariko imiryango Mpuzamahanga, Leta ndetse na za Guverinoma, rigashyirwa hamwe ndetse hakimakazwa gukorera hamwe, hatavanguwe igitsina runaka.

Ubukangurambaga bukomeje gukorwa hirya no hino, aho ababyeyi bashishikarizwa kwita ku bana babo, babaha indyo yuzuye, ndetse bakabaha ibikoma bifite amafu arimo intungamubiri, ni yo mpamvu rimwe na rimwe polisi y'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze bajya kuri tere bagahugura ababyeyi.

Abantu bafite ibyapa byanditseho amagambo, ndetse hari n'igitambaro kinini kiriho insanganyamatsiko y'ibyo barimo bakangurira abantu, ubona ko bose bicaye hamwe bakurikiye.

Umuganga afite icyuma kifashishwa mu gupima umuriro n'iba ndi kureba neza akaba yambaye ga z'umweru, akaba yambaye itaburiya y'umweru. Ari kuvura umusaza w'umuyisilamu.

Umujyanama w'ubuzima ari mu gikorwa cyo gupima abana bose bo mu Mudugudu ibiro kugira ngo barebe imikurire yabo bityo bamenye n'icyo bakora.

Umuganga ari gutera urushinge umwana mutoya, uwo mwana akaba yatunguwe cyane ubona ko ari kureba neza ndetse nk'ufite ubwoba gusa ntabwo ari kurira, ntibisanzwe ko abana baterwa urushinge ntibarire.

Umuntu w'igitsina gabo ari koza igare rye mu mazi y'umugezi utemba, igitangaje ni uko hari n'undi muntu ubona ko ari umugore wambaye agapira k'umuhondo uri kuvoma amazi agiye gukoresha muri uwo mugezi.

Umwana mutoya, iyo atojwe gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, bimurinda indwara zikomoka ku mwanda bityo agakura neza cyane afite ubuzima buzira umuze.

Abantu batatu harimo abagore babiri, barimo gupakira imifuka. Iyo mifuka ikaba irimo bimwe mu biribwa bikorerwa mu nganda. Umugabo ari hejuru ari kwakira umufuka abagore bari kumuhereza.

Umurwayi aricaye ku buriri muganga yamuziritse ikintu ku kizigira cy'ukuboko, akaba arimo arumva uko umubiri we ukora, uwo muganga ni umugore hari n'undi muganga w'umugabo ufite impapuro ndetse azifatishije amaboko yombi.

Umuntu wambaye ishati nziza cyane irimo uturongo tw'umukara n'ipantaro y'itisi. Akaba ari kumwe n'umugore we, umugore we witamirije igitambaro, ndetse akaba ateruye akana. Urabona ko hari n'umuganga imbere uri inyuma y'ameza ari gusoma ku rupapuro, afite n'ikaramu mu ntoki.

Abantu benshi bagera muri batanu, batatu bakaba ari abana bari iruhande rw'umugezi, umwe akaba ari umwarimu wabo, undi akaba ari umunyeshuri uri inyuma yabo uri kurebera.

Abantu babiri bari gusuhuzanya, gusa umwe ni umwana mutoya cyane undi ni umugabo ukuze. Bisa nkaho bari mu gikorwa cyo kwita ku bana, kuko inyuma hari abandi bantu bicaye ubona ko bameze nk'abari mu nama.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'inkweto nziza cyane za congo, akaba afite indangururamajwi ahagaze imbere, imbere ye hari abantu bicaye mu itente ndetse hakaba harimo n'umupolisikazi wambaye impuzankano y'abapolisi bo mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'uruziga ndetse imeze nk'ikigega ubona ko hari n'amasikariye azamuka agenda ajya hejuru kuri iyo nyubako. Hakaba hari ibyuma bigiye bizengurutse bikoze urukuta cyangwa se uruzitiro biri mu mabara y'ubururu.

Umuganga aricaye, ari gupima abarwayi amaraso ndetse ubona ko ari igikorwa cyiza cyane kuko ari byiza kumenya uko abarwayi barwaye.

Abantu benshi cyane bateranye bari imbere y'umujyanama w'ubuzima, ubona ko ari ababyeyi bahetse abana abandi babateruye, baje gusaba serivisi zigenerwa abana zitangwa hirya no hino mu midugudu.

Umubyeyi uteruye umwana mu ntoki akaba afite n'ifishe ndetse ubona ko yaje gukingiza uyu mwana, inyuma ye hari abandi babyeyi benshi, buri mubyeyi wese ateruye umwana we cyangwa se aramuhetse.

Amagambo y'icyongereza, yanditse ku gipapuro kimanitse, ahantu hari gukorerwa inama, imbere yacyo hakaba hari umugabo, ufite indangururamajwi ari ku ruvugiro ndetse ubona ko hari amagambo cyangwa se, hari inama ari gutanga ku bitabiriye inama.

Umuryango w'abibumbye wita ku bana bose bo ku Isi, mu bihugu byose ndetse no ku migabane yose, ushishikariza abantu bose za Leta n'ibihugu gushyira hamwe bagateza imbere buri mwana wese.

Umuntu wifashe mu manyanyinya w'umugore ari gukora ibiganiro ari imbere y'abandi bagore, biragaragara ko bari guhugurana mu bintu bigiye bitandukanye by'umuryango.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ari gukaraba ku mugezi, ari gukaraba amazi meza nyuma yo kuva mu bwiherero, akaba agiye gusubira mu ishuri, ni byiza cyane ndetse birakwiriye ko igihe cyose tuvuye mu bwiherero dukaraba intoki.

Abantu bakoreye inama mu nyubako, nyuma yo kuyikora bafata ifoto. Harimo umuzungu umwe wicaye imbere, wegeranye n'umwirabura, umwirabura wiyambariye ikote ndetse n'ipantaro bisa ndetse ubona ko ari ibintu bishimishije.

Abantu babiri bari gusuhuzanya, ni abagabo bakuze. Ubona ko hari n'umuzungu uri inyuma yabo wegeranye n'umunyafurika. Hari n'undi muntu uri iruhande rwa bamwe bari gusuzanya, inyuma hari amavase abiri arimo imikindo bari mu nama.

Ababyeyi benshi bicaye ku ntebe ubona ko bicaye ahantu mu nyubako, bakaba buri wese afite umwana we, hari umuteruye, hari uri kumwonsa, ndetse hari n'undi uri kumubyinisha cyangwa se kumusimbiza. Bakaba baje gusaba serivise zihabwa abana batoya.

Amajerekani atondetse ku murongo, ndetse hari ari muri robine ari kujyamo amazi, amajerekani hafi ya yose ni umuhombo, kuri robine hahagaze umwana w'umukobwa ufasha abaturage kuvoma batanigana, hari n'abandi bagore bahagaze iruhande rw'ivomero bategereje ko amazi aboneka.

Abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima bose bahuriye hamwe bari mu gikorwa cyo kwigisha abantu kwita ku basaza ndetse n'abakecuru bageze mu zabukuru, babapima indwara, zirimo imivuduko y'amaraso ndetse za diabetes n'imyijima.

Umwana mutoya w'umukobwa ari gukaraba amazi, ayo mazi ari kuva muri robine, uwo mwana yambaye ikanzu y'umutuku, ndetse ukuboko kumwe kuri kugaragara, bigaragara ko kuzinze, asa nk'urangaye sinzi ibyo arimo kwitegereza.

Inama y'igihugu ishinzwe kwita ku buzima, ikaba yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, baturutse hirya no hino ndetse ubona ko harimo n'abashoramari, bashishikarijwe gushora imari mu bintu bigendanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuzima.

Isirael Mbonyi aratangaje cyane. Ni umusitari, ni numuhanzi ukunzwe, uririmba indirimbo abantu bagafashwa. None agira uruhare mu gukangurira ababyeyi, kwita ku bana babo, babagaburira indyo yuzuye, kugira ngo bagire imikurire myiza. Urumva se bidatangaje?

Bambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo ndetse bakaba bicaye ahantu hamwe mu nyubako bose bazamuye ibiganza hejuru. Inyuma yabo mu muryango hari abazungu babiri bari kumwe n'abirabura barimo abagore babiri n'umugabo, nabo bazamuye ibiganza byabo.

Ubona ko bavuye mu nama, nyuma yo gukora inama bakifotoreza imbere y'inyubako, inyuma yabo hari umukindo munini muremure wakuze rwose, ubona ko usumba inyubako.

Abagabo babiri bicaye ubona ko imbere yabo hari ameza atatseho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harambitseho amazi yo kunywa ndetse iruhande rwa buri mugabo hari ibitabo. Abo bagabo bambaye amakote meza.

Umuntu wambaye ingofero y'abayede cyangwa se bamwe bahereza abafundi, ari ahantu kuri robine, ari gufungura amazi ndetse urabona ko hari imbaga y'abaturage itegereje kuvoma aya mazi meza, harimo abafite amajerekani y'imihondo n'abandi bafite utudobo.

Abana bari ku mugezi, ni abana b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri abanza, barimo barakaraba intoki zabo, bamwe bari imbere abandi bari inyuma, harimo umwe ubona ko yashoje, akaba yazamuye ibiganza bye ari kubyerekana.

Umuntu wifashe mu mutwe ndetse ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bigaragara ko yihebye ndetse hakaba hari undi muntu uri kumuturisha, akaba amufashe ku kuboko, ni byiza cyane abantu nk'aba ko baganirizwa, bakegerwa.

Ubuvuzi bugezweho bwifashishwa ahazwi nko mu Karere ka Bugesera, akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ahagana hirya y'i Kigali, akaba ari ubuvuzi buvura abafite ibibazo byo mu mutwe hifashishijwe ikimodoka kinini kigenda.

Umuntu uwo ariwe wese aho yaba ariho hose afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, akwiye kwirinda ibibazo by'indwara zo mu mutwe, akitabwaho mu buryo bwose, akiyitaho afite ubwo burenganzira.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bukwiye guhagururikirwa, bukitabwaho kuko ubu buzima burakomeye cyane ndetse nibwo bugize ibitekerezo bya muntu, ni nabwo bugenga imikorere ya muntu, ndavuga ubwonko kandi buba mu mutwe.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi meza, ikaba yubatse ahantu ubona ko ari hejuru, hari korutire yamabuye, ifite n'ibyuma bifite ibara risa ubururu bwerurutse, ikaba isakajwe amabati meza.

Umuntu aricaye, yicaye ku gatebe k'urubaho, yicaye imbere y'abagore bane bari kumureba, inyuma y'abagore hari insina zifite amakoma meza atoshye hari kugaragara n'ibiti hirya biri mu ishyamba, uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana bambaye imipira y'umuhondo bari guseka, ubona ko bishimye, bakaba bateranyirijwe hamwe ahantu bakoreye inama, aho bari kwigishwa ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bigaragara ko ari umusazi, akaba yambaye ibyamvagara by'ibyenda byashanyaguritse byinshi cyane, yatoraguye hirya no hino mu myanda.

Umuntu w'igitsina gore uri guseka, akaba yambaye ijire y'umuhondo imeze nk'imwe abahajenti ba MTN bambara, hakaba hari amagambo y'impine yanditse agaragaza umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi.

Abantu benshi cyane biganjemo abapolisi bambaye impuzankano y'umukara ndetse n'ingofero z'imikara, bakaba bose bafatiye ifoto hamwe nyuma yo gukora inama yahuje abantu benshi bo mu nzego z'ubuyobozi, aho bari bari kwiga ku bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Bafashe ku gipapuro bose ubona ko berekejeho amaboko, n'abatari kuhagera bigaragara ko bifuzaga kugikoraho, usibye umuntu umwe gusa wifashe amaboko yayashyize inyuma, yiyambariye n'agapira k'umweru.

Umuntu muzima, ari gusuhuzanya n'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se umusazi, bigaragara ko ari kumushukashuka kugira ngo amufate amujyane kwa muganga, maze bamuvure, akire na we yongere abe umuntu, agaruke mu buzima busanzwe, akore yiteze imbere.

Umuntu w'umubyeyi ubona ko akuze, afite umusatsi mwiza urambuye, yambaye amarinete cyangwa se amataratara nkuko bamwe bayita, akaba afite agatabo, yakazamuye hejuru, akoresheje ukuboko kw'iburyo.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yizingiye mu ipine ry'umukara, akaba yambaye ikabutura, iruhande rwe hari abagabo bagiye kumufata ngo bamujyane kwa muganga.

Agapira gaciye amaboko kari mu ibara ry'umweru, amaboko yo akaba ariho ibara ry'ubururu ndetse n'ikora rikaba ririho ibara ry'ubururu, handitseho amagambo y'impine ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu ubona ko ari benshi cyane, bari kugenda mu muhanda bafite indangururamajwi, ndetse n'igitambaro kinini cyanditseho kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko ndetse hakaba harimo n'abandi bantu b'abagore n'abagabo, bose bakaba bafite cyangwa se bafashe igitambaro kinini cyane cyanditseho amagambo, agaragaza ubukangurambaga bwo kwita ku ndwara ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe

Umuntu w'umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akaba yazanye ibimwira byashotse birikugera mu kanwa, akaba afite amarira mu maso ubona ko yihebye rwose, akeneye kuganirizwa akitabwaho n'abaganga babishinzwe.

Umuntu wicaye ku muhanda muri rigori ubona ko ari umusazi cyangwa se akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, ubona ko yambaye imyenda bibi bishanyaguritse bidaheruka koga cyangwa kumeswa, na we ubwe afite umwanda ukabije afite ursatsi rwinshi, ubona ko akeneye inama za muganga.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe yambaye ubusa, yicaye hasi ariko asa nkaho yaziritswe kugira ngo atiruka, bityo babone uko bagiye kumufasha, ndetse bamujyane no kwa muganga.

Umuntu ubona ko ari umugabo yegamye ku gikuta gisize ibara ry'umweru ariko ryashaje ubona ko ryanduye akaba ahagaze ahantu hari akayira k'amatafari hameze urubobi hadakorerwa isuku. Afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugore cyangwa umukobwa witamirije agatambaro keza cyane k'umuhondo mu mutwe, ubona ko hari kugaragara agasatsi gakeya k'imbere, akaba yicaye ahantu ku ntebe ariko ameze nk'uwihebye, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu umwe wambaye ikote ry'umukara, afite n'akantu kari mu mufuka w'iryo kote k'umweru, niba ari agatako cyangwa akarimbo simbizi, akaba ari gutanga ikiganiro, ubona ko ari kwigisha abantu kuvura indwara zo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu nama bakaba bari barikwiga ku bibazo byugarije ubuzima bwo mu mutwe. Bose bakaba ari abantu bafite aho bahuriye na serivisi z'ubuzima.

Umuntu w'umugabo, arunamye ndetse yambaye ikote ry'umukara, imbere ye hateretse indabo ndetse hari n'undi wambaye jire, bigaragara y'uko bashobora kuba bari kwibuka.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye gusigasirwa ndetse bukitabwaho, bikaba bigaragara ko ari inama yabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yari ifite insanganyamatsiko ivuga gutyo, hari igishushanyo kiriho abantu babiri hagati yabo harimo umutwe w'umuntu.

Umusaza wicaye uhetse igikapu wambaye imyenda myinshi cyane, ubona ko yambaye nk'ikigori akaba yambaye n'ingofero ifite urugara hari n'akantu kazengurutse kuri iyo ngofero k'umukara, ubona ko yubitse umutwe hasi sinzi ibibazo afite.

Kwiyahura byagiye bigabanuka mu Rwanda, ni ijambo ry'icyongereza ngerageje gusobanura nkurikije uko ryanditse, munsi yaryo hari imibare iri mu gataburo kifashishwa muri statistic zo kugira ngo barebe uko bagiye biyahura mu myaka itandukanye.

Ubwonko bukomeye cyangwa se ibitekerezo bikomeye, kugirwa inama ndetse no guhabwa ubuvuzi bwo mu mutwe, ni amagambo y'Icyongereza yanditse ku kintu gishushanyije ubona ko ari kutwereka ibyo byose mvuze.

Umubyeyi wicaye wihebye, yicaye munsi y'idirishya, idirishya ubona ko rishaje ndetse imbere ye hari umusambi cyangwa se umuce, akaba we yiyicariye ku ntebe y'urubaho, afite ibibazo byo mu mutwe, akeneye kwitabwaho n'abaganga babishinzwe.

Abantu bicaye bazengurutse, bicaye ku matebe ya sheza ndetse bakaba ari abakecuru n'abasaza n'abandi bantu b'abagore n'abagabo, ubona ko bari bari kwigishwa ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ubona ko ari umubyeyi, akaba yambaye ikigofero cy'umukara, yifashe mu maso ubona ko bisa nkaho ari kwihanagura amarira. Afite agahinda gakabije kuko arwaye indwara zo mu mutwe.

Umuntu bigaragara ko afite ibibazo byo mu mutwe, aziritse ku giti kinini akaba aziritse umunyururu, yicaye ku muce uzinze, urabona ko yihebye yambaye udukamambiri, ibi bintu ntabwo bikwiriye.

Uburwayi bwo mu mutwe bukomeje kwiyongera mu Banyarwanda ndetse no mu bandi bantu bose bo hirya no hino ku isi, hari igihe usanga umuntu ufite ubu burwayi bwo mu mutwe rimwe na rimwe ashobora kwiheba, ukaba wamubona ari no kurira amarira agashoka ku itama.

Umwana w'umukobwa warwaye iryinyo, akaba ari kurikurwa na muganga wabyigiye ndetse ubona ko ari ibintu byiza cyane kuko uyu mwana afite icyizere cy'uko iryinyo ritazongera kumuzengereza.

Umwana mutoya uziritse akantu mu mutwe, akaba afite uburoso yasamye ari kubukoza mu kanwa, bigaragara ko ari koza amenyo ye nubwo ari makeya, ni byiza gutoza abana batoya koza amenyo, bakoresheje umuti wabugenewe n'uburoso bwiza busukuye.

Umuntu urwaye uryamye agaramye ariko akaba arwaye amenyo, uwo muntu ari kwitabwaho n'abaganga babiri, bisa nkaho bari kumukura iryinyo kuko bafite ibyuma bari kumukoza mu kanwa ndetse ubona ko ari byinshi, bitatu byose.

Umuganga ari kuvura umuntu w'igitsina gore, ari kumuvura mu kanwa bigaragara ko afite ibibazo by'amenyo. Hirya hari abandi baganga babiri bicaye, umwe ari kwandika, undi ari kumureba ibyo yandika, hateretse n'umuti wica udukoko wifashishwa mu gukaraba intoki.

Abantu bose bakwiye kwita ku menyo yabo bakayoza neza bakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo bayarinde indwara ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye amarinete n'agapfukamunwa k'abaganga kadasa nk'ak'abandi bantu basanzwe, ubona ko hari ibyo ari kwandika ku gipapuro ndetse hari n'ibindi bintu arimo arapima by'imiti biri mu byuma by'ikoranabuhanga bicometseho insinga z'amashanyarazi.

Abantu bambaye imipira isa, ifite ibara ry'icyatsi, yandikishijweho ijambo rimwe ry'ikinyarwanda, riri mu mabara y'umuhondo rivuga ngo tubiteho, bakaba bari kuvurwa amenyo, bisa nkaho ari abaganga baje kwegera abaturage.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bose bakaba bambaye impuzankano harimo abahungu ndetse n'abakobwa barikoza amenyo yabo bakoresheje uburoso na korogate.

Umuntu w'umusore ari guseka, hari umuganga ugiye kumwitaho, bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo kuko muganga yazanye agakoresho kifashishwa mu gupima amenyo kameze nk'akayiko, uwo muganga yambaye ga nziza cyane z'ubururu bwerurutse.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe zicarwaho, harimo iyicarwaho na muganga hari n'iyindi yicarwaho n'umurwayi urimo gusuzumwa indwara zitandukanye ndetse ubona ko hari n'ibyuma bicometse ku muriro cyangwa se ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu w'umugabo w'umwarimu, ari kwigisha umwana mutoya uburyo yajya asukura amenyo ye akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe, urabona ko hari n'abantu b'abaganga basuye iri shuri.

Intoki za muganga ziri gukora mu kanwa k'umurwayi ubona ko afite ibibazo by'amenyo, bakaba bari kumukura nk'iryinyo cyangwa se bari kurihandura cyangwa se bari kuryoza, ni byiza cyane ko igihe dufite ibibazo by'amenyo tujya kwa muganga bakatuvura.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, gusa ibyinshi ni iby'ikoranabuhanga rigezweho, bikaba byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi baje bagana muri ibyo bitaro.

Itsinda ry'abantu barimo abagore, abagabo ndetse ubona ko bambaye neza bamwe bambaye amashati y'imyeru, hari umuzungu urimo uteruye akana.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, mo imbere irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bifite n'imigozi cyangwa se insinga z'amashanyarazi igiye icometseho, hari n'insakazamashusho yifashishwa n'abaganga bareba ibyo ibyo byuma biri gusuzuma.

Intebe yicarwaho na muganga ifite amapine bivuga ko ishobora kwimuka mu buryo bworoshye. Ndetse ikaba izamuye hejuru cyane, hakaba hari n'indi iri imbere yayo yicarwamo n'umurwayi uri gusuzumwa amenyo. Bigaragara ko izi ntebe zose zifite ibara ry'iroze.

Umukara zicarwaho n'abaganga, hakaba hari n'izindi ntebe nazo z'umukara zicarwaho n'abarwayi, Hari ahantu bakarabira ha kizungu n'intakandagira ukarabe ya kizungu, hakaba hari etajeri babikamo imiti, hakaba hari ibikuta bisa umweru, hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga birimo n'insakazamashusho.

Umwana mutoya ashobora kurwara amenyo, kuko burya indwara y'amenyo ntago ifata abakuze gusa. Abantu benshi bakunze kwibeshya ko nta mwana urwara amenyo, ariko nubona umwana wawe afite ikibazo mu kanwa, uzamujyane kwa muganga bamusuzume.

Abamama ndetse n'abandi bantu barimo n'abana bakaba bose bari kwiga ku buryo bwo gushukura amenyo hifashishijwe umuti wabugenewe ndetse n'uburoso, ku meza hateretse korogate nyinshi bambaye imipiri isa.

Umuntu bigaragara ko ari umwana, arasamye ndetse hari akantu kameze nk'akayiko kari mu kanwa ke, gafashwe n'ibiganza bibiri by'umuntu w'umuganga kuko yambaye uturindantoki tw'umweru.

Gusukura amenyo yacu ni byiza cyane kuko biturinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda wayo ariko ni byiza no gukoresha butandukanye nko gukoresha akadodo ducisha hagati y'amenyo ndetse tugakoresha n'uburoso bw'amenyo.

Umusaza wicaye wasamye, ari kureba hejuru, muganga akaba ari kumukora mu kanwa ndetse bigaragara ko bari kumuvura amenyo cyangwa se bakaba bari kuyakura niba afite ikibazo.

Ibiganza bya muganga ubona ko birimo biratwereka ifoto iriho amenyo ndetse ayo menyo akaba ari amenyo agiye atandukanye, ni byiza ko twita ku menyo yacu tuyagirira isuku.

Abantu benshi bakunze gusukura amenyo yabo bakoresheje umuti wabugenewe wa korogate n'uburoso, mu byukuri birengagiza ko hari n'ubundi buryo bwo gukoresha urudodo dukuramo imyanda yose yafashe hagati y'amenyo.

Umuntu w'umusaza ugeze mu zabukuru aricaye ari gukina n'undi muntu ubona ko ari umugore ukiri mutoya, bakaba bari kwishima basetse ni byiza cyane.

Umuntu w'umukecuru aricaye arigusuka ibinini agiye kubinywa ubona ko ari ibintu byiza cyane bishobora kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Yambaye amarinete afite imisatsi irambuye.

Abantu bagera muri babiri, bakaba ari abantu bicaye bose, umwe ni umukecuru, undi ni umukobwa ukiri muto bakaba bari gukata imboga ndetse hari n'imbuto ziri iruhande batarakata, zirimo karoti n'inyanya.

Umukecuru ukuze, ubona ko akeneye kwitabwaho kuko ahabwa imiti ya buri munsi, ari gufashwa n'umuganga, uwo muganga akaba ari kumuha ibinini, umukecuru nawe agiye kubyakira ndetse yiteguye kubinywa.

Umubyeyi ubona ko akuze ari gukina umukino witwa yoga, ari kuwukinana n'akana ke gatoya urabona ko bishimye kandi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bibafasha gutekereza vuba kandi byihuse.

Umugabo ukuze ari gukina n'umwana mutoya, bafite umupira cyangwa se icyo twakwita nka balo yifashishwa mu gukina umukino w'intoki uzwi nka basiketi.

Abantu b'abakecuru bageze mu zabukuru bambaye amajipo cyangwa se amagutiya y'umukara bakaba bambaye n'udupira tw'umweru, bamwe bambaye udupfukamunwa ariko harimo umwe utakambaye. Bari gufashwa gukora udusiporo tworoheje.

Umusaza ubona ko akuze afite mu ntoki ze ikintu kimeze nk'agakinisho k'abana, ndetse yicaye mu kagare yambaye ipantaro y'ikoboyi nini yambaye agapira k'umuhondo ndetse iruhande rwe ku ntebe hicaye akana, ako kana ni gakobwa gafite imisatsi myinshi kakaba karimo kararebana n'uwo musaza,

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kwitegereza hakurya, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, hari umuntu w'umuganga urimo agasunika ndetse bisa nkaho hari aho amujyanye kugira ngo amupime.

Abantu bicaye bazengurutse bakoreye inama munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo, ubona ko ari ahantu heza cyane, inyuma yabo hakaba hagaragara inyubako ebyiri. Imwe ni tuwarete cyangwa ubwiherero. Indi ni inyubako isanzwe abantu babamo.

Umusaza ubona ko abyibushye rwose, bafite ishati yambaye y'ubururu, njyewe nyambaye yambaho ikanzu, akaba ari gupimwa na muganga, aho ari kumva uko umutima we utera.

Abantu bigaragara ko harimo abakuze barimo barareba muri terefoni, bose bakaba barangaye ku buryo ushobora no kubiba.

Umuganga wambaye imyenda iri mu ibara ry'iroze, akaba yambaye n'akantu mu izosi kifashishwa mu gupima abarwayi ndetse ubona ko hari n'ikintu ari kuzirika ku kaboko k'umukecuru ugeze mu zabukuru umwicaye imbere, wambaye ikanzu y'igitenge.

Umuntu w'umusaza ufite imvi z'umweru n'ubwanwa bw'umweru, akaba ari kumwe n'utwana dutoya wagirango ngo ari kutugaburira ibintu bimeze nk'imbuto z'umwembe.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye amataratara kuko sinayita amarinete, biragaragara ko ari umusaza ufite imvi mu bwanwa, mu mutwe ndetse akaba ari gusoma igitabo, afite n'ikaramu mu ntoki yifashe ku munwa.

Umuntu w'umusaza ari gukora utwitozo ngororamubiri. Afite akantu k'akuma baterura gatoya kari mu kuboko kw'ibumoso, ndetse hari umuganga wamufashe ku rutugu ubona ko na we afite akandi kantu baterura k'ubururu, ari gufasha uwo musaza.

Umusaza ukuze wambaye ishati y'umukara ufite imvi, ubona y'uko afite terefone ari kurebamo, hakaba hari umuntu w'umugore wicaye ibumoso bwe akaba arimo na we arareba muri telefone, imbere ku meza hateretse akantu kameze nk'akagurudu.

Abasaza bageze mu zabukuru baba bakeneye kwitabwaho ndetse bakuhagirwa kugira ngo bagirirwe isuku bityo umubiri wabo ukomeze kumera neza.

Umukecuru ufite akantu k'akuma bifashisha baterura kugira ngo bagorore imitsi y'amaboko, akaba ari kugaterura nawe mu rwego rwo gufasha imitsi ye gukora neza.

Umuganga ari gufasha umuntu ubona ko ageze mu zabukuru akaba ari kumufasha kugenda yifashishije icyuma gifite uburyo gifashamo abantu batabasha kugenda.

Umuganga w'umugore ari kumwe n'umukecuru. Uwo mukecuru afite imvi z'uruyenzi angana nyogokuru. Akaba yambaye umwambaro w'umweru, bikaba ari ibintu bigaragara neza ko kwita ku bakecuru bashaje ari ingenzi cyane.

Abantu babiri umwe ni umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru, undi ni umugore w'umwirabura wambaye ipantaro y'ikoboyi, bakaba barikwicaza umusaza hasi, ubona ko uwo musaza ageze mu zabukuru.

Umuntu bigaragara ko ari umusaza ari gusoma mu gitabo, yicaranye n'umwuzukuru we w'umusore ufite umusatsi mwiza, barishimye bari guseka, ku meza hateretse ibikombe bibiri bikaba birimo icyayi bagiye kunywa, ni byiza cyane ko abakuze bitabwaho.

Umusaza wambaye ipantaro y'umukara, umukandara w'umweru ariko utari umukandara usanzwe ubona ko hari icyo uri kumufasha bitewe n'uburyo awambayemo, arimo kugendagenda yifashishije ibyuma bibiri, kimwe iburyo ikindi ibumoso, hari n'umuganga uri kumufasha.

Umuntu w'umukecuru ari kwitabwaho n'umuganga, uwo muganga ari kumuha ibinini. Uwo mukecuru nawe ari kubyakira yiteguye kubinywa. Kuko afite ikirahure cy'amazi cyifashishwa mu kunywa ibinini.

Umukecuru ukuze ufite umusatsi wuzuyemo imvi ari guseka, arishimye, ari kumwe n'umukobwa we ndetse wambaye amarinete, akaba afite umusatsi usutse, bakaba bari kumwe n'akuzukuru.

Abantu babiri umusaza n'umukecuru baricaye bari kurebana mu maso, ku meza hateretse isahane imbere ya buri wese, iyo sahane ikaba iteretsweho akandi gasuperi karimo ibintu bimeze nk'isosi bagiye kunywa.

Bose bari kwirebera muri telefone. Uwo hagati ni we ufashe telefone ari kubereka. Bari guseka barishimye.wo hagati kandi yambaye umwenda w'umuhondo, yambaye n'iherena ku gutwi ritoya. Umwegereye ku ruhande rw'ibumoso we yambaye iherena rinini n'umwenda w'umweru.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ubona ko ameze neza afite umusatsi w'imvi yambaye iherena ku gutwi, akaba yarambuye amaboko yose yayazamuye hejuru mu kirere, hari umuganga uri gufata ku kuboko kw'iburyo ndetse akaba ari gufasha uyu mukecuru.

Umumama warambuye ukuguru, yicaye hasi ku mukeka, ndetse ubona ko ari ahantu hameze nko muri salo, bitewe n'uko hirya inyuma ye, hari gutunguka intebe, irambitseho umusego.

Umuryango wo ku rwego rw'isi wita ku buzima, ukaba ushinzwe guteza imbere imiti, gukora ubushakashatsi ku ndwara ndetse no kumenya indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye zibasiye isi.

Umuntu w'umugore ufite indangururamajwi, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agakote keza cyane k'umweru, mo imbere akaba yambaye agapira k'umukara ndetse akaba yicaye mu ntebe nziza cyane yegamirwa, afite indangururamajwi ari kuvuga ijambo.

Abantu benshi bari mu bukangurambaga, aho bafite igitambaro kinini cyanditseho amagambo agira ati: ''Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi.''

Umuryango utera inkunga ibihugu byinshi byo muri Afurika akaba ari umuryango wo muri Amerika witwa yuweseyidi. Ni umuryango ushishikajwe no kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Tugomba gushyira hamwe ndetse nta wusigaye, tukirinda ivangura rishingiye ku gitsina, mu burezi kuko uburezi ni inkingi y'ubuzima.

Ibimenyetso bya diyabete; kumva ufite icyaka, kumva ushaka kunyara bya hato na hato ndetse kumva uri gutekereza nk'ufite umunaniro ndetse kubura ibiro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ukumva utameze neza mu mubiri wawe.

Igishushanyo cyangwa se ifoto iriho umwana uryamye usinziriye, akaba ari umwana mutoya. Hakaba handitseho amagambo y'Icyongereza agaragaza ko ari ayo ku rwego rw'Isi cyangwa se ari nk'inama yo ku rwego rw'Isi yabaye yo kwita ku bana, umunsi wa mbere wayo.

Abantu babiri barimo umukobwa ndetse cyangwa se umugore n'umugabo bifotoje bari imbere y'icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko hari habereye inama Mpuzamahanga.

Itsinda rigari ry'abantu bashinzwe ibyo kwita ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage bahurijwe hamwe mu nama ndetse bahabwa amahugurwa agiye atandukanye.

Amagambo ahinnye ari mu rurimi rw'Icyongereza. Gusa sinzi ko nabasha kuyasoma ngo abantu bayumve, ahubwo asobanura ko ari ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda.

Abantu bicaye ahantu mu nyubako mo imbere muri sare ubona ko bari bari mu nama. Hakaba harimo abagabo, abagore, abakobwa, ndetse n'abasore.

Igipapuro gishushanyijeho umugore uri konsa umwana, inyuma ye hari abandi bantu bahinguka ndetse uwo mugore akaba ari guha umwana n'ibindi bintu bimeze nk'amazi. Ni byiza ko twita ku bana bacu.

Inama yo ku rwego mpuzamahanga yahurije hamwe abantu bose bafite aho bahuriye n'ubuzima, Baba ari abaganga cyangwa se abo mu zindi nzego zifite aho zihuriye n'ubuzima. Bari mu nama, mu nyubako.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye mu nama, ikaba ari inama yari iri kwiga ndetse iri kuganiriza abantu uburyo bwo kwirinda icyorezo cya virusi itera SIDA.

Umuntu w'umubyeyi wiyambariye ijipo nziza cyane, ndende, ubona ko aberewe rwose, ureke bamwe bajya biyambika ubusa, bambara impenure, bigira ngo ni beza, bagira ngo hari ubitayeho, akaba afite indangururamajwi, ari gutanga ikiganiro ku buzima.

Uburyo dushobora gufatanyiriza hamwe nk'isi yose muri rusange, tukarwanya virusi itera sida by'umwihariko mu bana batoya, aha ngaha dushobora kwirinda kubyarira mu ngo kuko igihe dufite virusi itera sida tukabyarira mu ngo dushobora kwanduza abana bacu bavuka.

Abantu babiri bahekeranye umwe imbere undi inyuma. Abo bose bari mu ifoto ubona ko yeditinzwe ndetse hakaba handitseho amagambo, agaragaza ko ari ikigo cyita ku buzima.

Igihe cyose habonetse icyorezo usanga abaganga bo hirya no hino ku isi bakora ibishoboka byose ngo barebe ko bakibonera urukingo, niyo mpamvu muri corona virusi cyangwa se mu gihe cya covide cumi n'icyenda abantu benshi batewe inshinge, n'uyu mumtu ubyibushye ari guterwa urushinge kugira ngo agire ubudahangarwa.

Urukingo rwa covax ni urukingo rwakozwe kugira ngo rwifashishwe mu kurinda cyangwa se guhangana n'icyorezo cya corona virusi. Mu by'ukuri n'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana washishikarije ababyeyi kujyana abana babo gufata uru rukingo.

Umuganga atugira inama yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, gusa n'abayobozi bakomeye bajya bagira uruhare mu gushishikariza abaturage kwirinda indwara zifata ubuzima bwo mu mutwe, urugero nka nyakubahwa Jeanette Kagame umugore wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe abigiramo uruhare.

Ubuzima bwiza bukwiye kuturanga aho turi hose, ni amagambo yanditse ku kintu cy'igipapuro kimanitse, ubona ko hariho n'umutima w'umuntu, hariho n'umubare gatatu.

Ubuvuzi bwo kubaga ni ubuvuzi bugoye bukomeye gusa mu Rwanda bukunze gukorwa cyane ku buryo nta murwayi n'umwe utabasha kuvurwa.

U Rwanda rugenda rukora gahunda zitandukanye, aho rukora inama zigiye zitandukanye rushishikariza abaturage kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zaba iz'ibyorezo cyangwa izindi izo arizo zose.

Abantu bicaye ubona ko bari mu nama ndetse hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, gusa hari abicaye imbere, ku ruvugiro ubona ko ari abayobozi, bari kwiga ku bintu bigendanye n'ubuzima.

Gabanya ubushita bw'inkende cyangwa se buhagarike, ni amagambo y'icyongereza yanditse adushishikariza kurwanya virusi y'icyorezo cy'ubushita bw'inkende ndetse hakaba hari n'amagambo yanditse ngo Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Ibigo byinshi bitandukanye Mpuzamahanga ndetse n'imiryango Mpuzamahanga ndetse n'umuntu ku giti cye ndetse n'abantu hagati yabo, twese dukwiye gushyira hamwe tuhagurukira ubuzima bwacu, tukabwitaho, tukirinda indwara zitandukanye.

Imbaga y'abantu bicaye neza ahantu muri sale yagenewe gukorerwamo inama, ubona ko ari benshi rwose, biragaragara ko bari mu nama, harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara, harimo n'abandi bantu benshi batandukanye.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, gusa rimwe na rimwe abantu bakunze kwibanda mu guterura ibyuma nk'aho ariyo siporo yonyine ibaho, mu by'ukuri dushobora gukora n'izindi siporo.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba irimo intebe nyinshi zitandukanye zicarwamo n'abarwayi bategereje serivise. Ubona ko hari abarwayi n'ubundi bahicaye, bataragerwaho, kugira ngo bafashwe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bw'igorofa ariko ukabona ko idashamaje, yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hamanitseho ibyapa bigaragaza igikorerwa muri iyo nzu, ndetse hakaba hacururizwamo imiti.

Ibitaro byo kwa muganga bifite ibitanda biryamishijwemo abarwayi barembye, hari igisanduku kinini gishobora kuba kibikwamo nk'imiti cyangwa wasanga bashyiramo n'imirambo kuko kimeze nk'igifirigo kinini.

Inyubako nziza yo kwa muganga bigaragara ko isize amarangi meza, ikaba ifite ifoto imanitse ku gikuta, ndetse ukaba ubona yuko ifite korodori nini ndende, inyurwamo n'abantu bagiye mu byumba bitangirwamo serivisi zinyuranye.

Icyuma kifashishwa n'abaganga mu gupima gusuzuma ndetse no kumenya ibibazo by'umurwayi, ni icyuma ubona ko gikoresha ikoranabuhanga rihambaye kikaba ari icyuma cyaturutse mu bihugu byo hanze kuko muri Afurika sinzi ko gishobora kuba cyahakorerwa.

Ibitaro bikuru bya Butaro. ni ibitaro biherereye mu Majyaruguru y'u Rwanda, bikaba bizwiho kuvura indwara zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri hakaba hari abantu b'abazungu bari baje gutanga amahugurwa, none bafashe ifoto nyuma y'amahugurwa.

Inyubako irimo icyumba, icyo cyumba kikaba kirimo ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, ubona ko byifashishwa mu kuvura abarwayi, hakaba hari n'isaha imanitse hejuru ku gikuta.

Umuntu w'umusore ufite terefone mu ntoki, wambaye ipantaro y'umuhondo, akaba yambaye n'inkweto nziza, akaba yambaye n'agapira k'ubururu gafite amagambo y'umweru yanditse imbere mu gatuza, akaba ategereje serivisi z'ubuvuzi. Yicaye mu nyubako yo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga, ifite ibikoresho byinshi cyane byikoranabuhanga, ubona ko rwose ari ahantu hashimishije, harimo ibyuma bimeze nk'ameza, ibimeze nka firigo, harimo n'isakazamashusho ndetse n'ibindi bicomekanze.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ubona ko ari inyubako isakajwe amabati asa ibara ry'ikivuzo ndetse ikaba isize amarangi y'umweru. Yanditseho ijambo ry'Icyongereza rigaragaza ko ari ahantu hakorerwa ubushakashatsi, bushingiye ku by'imiti.

Umuntu w'umurwayi uryamye uri kureba hejuru ndetse tukaba tubyita ngo aryamye agaramye, akaba ari umukobwa ndetse iruhande rwe hari ibintu by'ibyuma by'ikoranabuhanga bicometseho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu w'umugabo wambaye agapira ako gapira akaba ari ubururu, ndetse ubona ko ari kumanika inzitiramibu, haryamye umurwayi imbere ku gitanda, ubona ko ari umurwayi urembye, ni ahantu mu nyubako yo kwa muganga.

Inyubako nziza ubona ko ari inyubako yo kwa muganga ikabamwo imbere ifite imiryango igiye itandukanye, iyo miryango yose ikaba isize amabara y'umutuku ndetse ikingishijwe selire.

Umuganga w'umugore ukorana ibakwe, ubona ko ari ku muvuduko yihuta cyane akaba yambaye agapfukamunwa ibaji ye ayambaye mu ijosi, ariko yayizinze ayishyira mu mufuka w'ishati w'ibumoso. Ari mu cyumba kiryamishijwemo indembe.

Inyubako nziza cyane, yanditseho icyapa kigaragaza ko icuruza imiti. Hakaba hariho na nimero za telefone umuntu yahamagara, ndetse bakaba bakwereka ibigo by'ubwishingizi bakorana na byo.

Inyubako yo kwa muganga, ifite ahantu heza cyane ho kuryamisha abarwayi barembye, ubona ko hari ibitanda bisashe neza bifite amashuka meza, hari n'igitanda kimwe kirimo umurwayi.

Intebe nyinshi cyane, ziri ahantu mu gisare kinini, izo ntebe zikaba zifite ibara ry'ivu, ndetse hakaba hari akantu kameze nk'akameza imbere ya buri ntebe, gatambitse, gahurutuye. Ubona ko hariho n'utumikoro, cyangwa se indangururamajwi ntoya.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, ni ikigo cyubatse neza gifite irembo rifite ibaraza umuntu ashobora kugamamo igihe ahanyuze imvura ikagwa, hakaba hari umubyeyi uhetse umwana ufite ishuka y'umweru yashyize imbere ari guhogenza umwana.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, ni ikigo nderabuzima cyiza cyane cyo muri uyu murenge uboneka mu Mujyi wa Kigali, hakaba hashinze idarapo ry'u Rwanda ku ruhande, kikaba ari ikigo nderabuzima gisize ibara ry'umweru hose, ndetse imbere yaho hari agahanda k'amabuye.

Inyubako yo kwa muganga irimo igitanda naryama kikaba kiri hejuru ndetse mu kirere rwose ubona ko cyegereye icyuma cy'ikoranabuhanga kimanitse mu gisenge cyifashishwa mu gupima umurwayi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite amazu agiye atandukanye ubona ko ari inyubako nshyashya yuzuye vuba, imbere yayo hari jaride nziza cyane ifite ibyatsi bitoshye.

Ibitaro byo kwa muganga birimo ibishushanyo by'amaso akanuye ndetse bikaba ari ibishushanyo bigera kuri bitatu, hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga, ubona ko ari ahantu basuzumira amaso.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se inzu ivurirwamo ababyeyi baje kubyara, ikaba ari inzu ikunze kuboneka ahantu henshi hari ikigo nderabuzima, ikaba iba yihariye iri ahantu ukwayo.

Ibitanda biri kwa muganga bikaba ari ibitanda bidafite umurwayi n'umwe ubiryamyeho. Bivuze yuko nta ndembe ihari, kuko ibi bitanda byagenewe kuryamishwaho abarwayi barembye.

Inyubako y'igorofa isize amabara y'umuhondo ndetse n'andi mabara y'umweru ku nzugi, hakaba hari icyapa imbere yayo cyanditseho ko ari ibitaro n'ubwo wagira ngo si ibyo mu Rwanda.

Abantu b'abamama benshi cyane biganjemo abambaye imyenda y'umuhondo n'abandi bagabo bakeya, bakaba bari mu nyubako ahakorerwa inama aho bari kuganirizwa n'abaganga ndetse n'abayobozi.

Inyubako y'igorofa igezweho yubatse mu buryo bwiza cyane. Ikaba icururizwamo imiti ndetse ubona yuko ifite ibirahure bifite ibara ry'ubururu, ikaba ifite imikindo igera muri ine iteye imbere yayo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ni inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ifite amabati y'umutuku, imbere hayo hari imihanda inyuranyuranamo ubona ko hari n'abagenzi bari kwambuka bitwikiriye umutaka.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako ubona ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ifite urubaraza rwiza umuntu anyuraho mbere yo kwinjiramo imbere ndetse ku muryango hateretse amavaze abiri arimo indabo, hari n'imikindo iri imbere y'ibaraza.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'ibara ry'ivu. Ikaba ari inyubako iri ahantu heza cyane, yifashishwa mu kubika imiti. Urabona ko ifite n'igisenge gituma hinjira umuyaga.

Umuganga arimo arasuzuma ibintu bigiye bitandukanye, ari ku byuma by'ikoranabuhanga ndetse ibyo byuma arabona ko bicometseho insinga z'amashanyarazi, izo nsinga z'amashanyarazi zikaba zimanutse ahantu hameze nko mu cyobo cyangwa mu kigega.

Inyubako nziza cyane ifite akayira k'amapave, ifite korutire yubatswe n'amabuye ndetse ubona ko hari na jaride nziza cyane irimo n'agatsina katarakura.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bisasheho amashuka biri ku murongo, bifite amapine agenda yifashishwa mu kubyimura babivana mu ruhande rumwe babijyana mu rundi.

Inyubako yo kwa muganga irimo icyuma cy'ikoranabuhanga, ubona ko cyifashishwa mu gusuzuma umuntu uwo ari we wese, yaba ari umurwayi cyangwa se umuntu muzima ushaka kumenya uko ubuzima bwe bwose buhagaze.

Mu nyubako yo kwa muganga mo imbere aho bakorera isuzuma ry'ibizamini bafashe, haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse bimeze nk'ibirahure ariko bitari ibyo kunyweramo.

Ibitaro bya Ruhengeri bikaba ari ibitaro byiza cyane, bifite korutire yubakishijwe ibyuma bisize amabara y'umweru ariko bifitemo n'inkingi zubakishijwe amatafari ahiye.

Igitanda kiriho umurwayi, uwo murwayi akaba yasohotse kuko ubu ngubu igitanda nta muntu uriho, yagiye hanze gukemura utubazo yorohewe, ni igitanda kiriho amashuka y'umweru.

Igihe cyose umwana avukiye kwa muganga, abaganga bakora uko bashoboye bakamwitaho ndetse bakamuha ibimugenewe, bakamufasha ku buryo nta kibazo na kimwe ashobora kugira, niyo mpamvu impfu z'abana bapfa bavuka zagabanutse.

Intebe zikunze kuba ziri kwa muganga zikicarwaho. Ariko uzahasanga n'ibitanda byiza biryamishwaho abarwayi, bifite amashuka meza, bifite imisego abarwayi baryamyeho bisegura.

inyubako yo kwa muganga ubona ko yubatse mu buryo bwiza n'imbere hari ibikoresho bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati byifashishwa mu gutanga ubuvuzitwou tubati tubika n'imiti

Intebe iri hagati y'amavase abiri yose akaba arimo indabo zisa ibara ry'icyatsi, hakaba hari amagambo yanditse hejuru ku gikuta ari mu ibara ry'umweru, ariko yanditse ahantu ku ibara ry'ikijuju.

Ububiko bwo kwa muganga, bubikwamo imiti, iyo miti ikaba ari imiti iba ipfunyitse mu macupa, mu bikarito bigiye bitandukanye ndetse bifite n'ingano zitandukanye, ibitoya ibinini, ibigufi ndetse n'ibirebire.

Inyubako nziza cyane ubona ko yubatswe mu buryo bw'umwiburungushure, ikaba ari inyubako icururizwamo imiti, ubona ko imiti isa nkaho yenda gushira kuko muri etajeri ntayirimo, bagiye kurangura iyindi.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amabuye, ubona ko ari inyubako ya kera, ifite urubaraza runini ruzengurutse, hakaba hari abantu babiri bari kugenda bambaye ibintu by'umweru hejuru ndetse hirya imbere gato hari ubusitani bwiza burimo urucaca.

Inyubako yo kwa muganga ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ameza. Ayo meza atatseho cyangwa adekoyeho ibitambaro byiza cyane bisa neza. Hari imeza ikoze mu buryo bw'uruziga, hari n'indi itameze gutyo. Hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubatswe ikaba iriho amagambo yanditse hejuru y'umuryango, agaragaza ko bavura indwara ku bantu bageze ku myaka guhera kuri cumi n'umunani kuzamura.

Inyubako nziza cyane, iriho idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, haparitsemo moto n'imodoka ntoya y'ivatiri, yifashishwa n'abaganga bakora muri ibi bitaro.

Inyubako icururizwamo imiti cyangwa se forumasi, harimo imiti myinshi cyane iri mubikarito ndetse n'indi ifungiye mu macupa, bigaragara ko ibitswe neza itakangirika.

Umuntu w'umugore yicaye imbere ya muganga, hagati yabo harimo ameza, umugore amaboko ye ayarambitse ku meza, umuganga ari kwandika mu gitabo ariko arikureba mu maso uwo mugore.

Abantu bambaye imyenda y,umweru, amapantaro y'umukara, buri wese akaba afite akantu kameze nk'agakapu mu ntoki, karimo ikintu cy'umweru kimeze nk'indabo. Bisa nkaho bagiye ahantu hamwe ndetse bagiye nko mu gikorwa runaka.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi; bicometseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Bikaba bifite hejuru ibimeze nk'isakazamashusho, ryiyifashishwa na muganga, areberamo ibyo arimo gupima.

Inyubako yo kwa muganga iteretsemo intebe ndetse imbere y'iyo ntebe hakaba hari ikintu kimeze nk'igitanda ariko gifite ibintu byubakiye bizamuye kuri buri ruhande, urw'ibumoso n'urw'iburyo ndetse ukaba ubona ko harimo motora ebyiri zigerekeranyije.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako nziza cyane ifite imiryango y'ibirahure ndetse mo imbere hakaba harimo intebe ziteye ariko nta muntu uzicayeho. Hari n'amagambo yanditse hejuru ahantu mu gikuta hegereye muri parafo, ayo magambo agaragaza ko hakorerwa ubushakashatsi.

Umuntu w'umukobwa araryamye, aryamye ku gitanda, akaba aryamye agaramye ariko asa n'uwihengetse yazamuye ukuguru kumwe hari kugaragara itako ndetse hakaba hari abantu bari kumwitaho, bisa nkaho arwaye, arembye.

Inyubako yo kwa muganga, bakaba bari kutwereka ahantu hagenewe gushyirwa cyangwa se kurwarira abarwayi baje kubyara. Hari n'umuganga uri imbere, uri mu rubaraza. Uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibintu bigiye bitandukanye. Hari intebe yicarwaho na muganga ifite amapine ane, imbere yayo hari ahantu umurwayi aryamishwa. Hejuru hari icyuma cy'ikoranabuhanga.

Kaminuza y'u Rwanda, ibitaro bya Butare, ayo ni amagambo yanditse ku cyapa kinini kiriho n'irindi jambo rivuga ngo Repubulika y'u Rwanda, munsi hakaba handitseho Minisiteri y'Uburezi mu rurimi rw'Icyongereza, hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu umeze nk'umurwayi, yicaye yegamye mu ntebe ndetse yazamuye igikumwe ari guseka, iruhande rwe hari ibyuma bicometseho insinga y'amashanyarazi.

Inyubako nini yubakishijwe ibirahure kuko imiryango yayo ni ibirahure gusa, ndetse urabona yuko kuri buri muryango hashushanyije cyangwa se hamanitse ifoto y'umuntu, Hari n'ibipapuro bimanitse mo imbere.

Inama yo kwiga ku bisubizo birambye by'uburyo twakirinda icyorezo cya malariya. Malariya ni indwara yagiye ihitana ubuzima bw'abantu benshi mu myaka yagiye ishira. Gusa muri iyi minsi yarahagurukiwe ku buryo abaganga bagerageza kuyirwanya no kuyivura.

Abantu b'abaganga batatu baricaye bose bafashe ku meza bambaye impuzankano irimo itaburiya z'umweru ndetse n'uturindantoki dufite ibara ry'iroza. Ku ameza bafasheho hateretse ibintu bimeze nk'ibirahure ariko byifashishwa mu gupima imiti.

Ni mu nyubako y'ibitaro ahantu hari ibyuma byinshi cyane bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga rigiye ritandukanye bitewe n'icyo buri kimwe cyose gikora, gusa byose bifite udupine bigaragara ko twifashishwa mu kubyimura, bagiye nko kuhakora amasuku.

Umurwayi ari mu kagari k'abafite ubumuga, akaba ari kwicunga agiye gushaka serivisi z'ubuvuzi, ari kugenda mu gahanda gashashemo amapave, ari kugana ku nyubako nziza isize amarangi y'umweru, ndetse imbere y'iyo nyubako hari akajaride keza karimo indabo zitoshye.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kiri ahantu mu cyumba ndetse ubona ko gifiteho n'akantu kameze nk'isakazamashusho, hejuru ku gikuta cy'icyumba hamanitse isaha, iyo saha ni iy'urushinge.

Mu Rwanda bashyize imbere uburenganzira bwa buri muntu wese, yaba abana, abagore, abagabo, abasore, abahungu, ingimbi ndetse n'abangavu, niyo mpamvu hari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ababyeyi babiri bakuze ubona ko bari mu myaka iri hejuru ya mirongo itandatu n'itanu, bicaye ku ntebe bari kureba muganga, muganga yambaye imyenda y'iroze, afite ga mu ntoki yambaye ndetse yambaye n'isaha ku kuboko.

Ibitaro byo kwa muganga bikaba birimo intebe zigiye zitandukanye, harimo izifite amapine yifashishwa mu kuzimura, harimo ibitanda birambitseho imisego ndetse byicarwaho n'abarwayi bagiye gusuzumwa, hari ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse harimo n'isankazamashusho n'ameza.

Irembo ni urubuga rwashyizweho mu Rwanda rwifashishwa mu korohereza abaturage kubona serivise zigiye zitandukanye, yaba izo kwandikisha ubutaka, kwandikisha abapfuye ndetse n'abavutse cyangwa se no gusaba ibyangombwa bigiye bitandukanye nk'ibyo gushyingirwa.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari inyubako nziza cyane ifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, hejuru hakaba harimo parafu nziza hari n'amatara azana urumuri mu nyubako ubona ko hasi mu nguni hari ibyuma by'ikoranabuhanga birimo n'insakazamashusho hakaba hari n'insinga zicometse kuri ibyo byuma.

Umuntu w'umugabo ubyibushye wambaye ikabutura, ari ahantu mu bitaro kwa muganga, urabona ko ukuboko kwe kurimo serumu, bigaragara ko yari yagize ikibazo cy'amaraso makeya. Bakaba bamuteye iyo serumu kugira ngo bamwongerere amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamishwaho abarwayi barembye, ibyo bitanda bikaba bifite amashuka y'umweru abisashe hejuru ni byiza cyane.

Umuntu w'umuganga akaba yambaye taburiya y'umweru, ari kuvura umurwayi w'umugabo, uwo murwayi aryamishijwe ku gitand, arararamye, ari kureba hejuru mu kirere, yambaye ingofero n'agapfukamunwa k'umukara.

Mu bitaro byo kwa muganga, uzahasanga ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ameza, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bicometseho insinga z'amashanyarazi, insinga z'umweru iz'umukara n'iz'umutuku.

Ibikoresho bitandukanye biri kwa muganga by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi bugiye gutandukanye, byose bikaba bifite amapine hasi, yifashishwa mu kugenda babyimura babijyana ahantu hamwe nko mu gihe bari gukora isuku.

Icyuma cyifashishwa mu buvuzi bugezweho, kikaba ari icyuma gikunze kuboneka kwa muganga ndetse ubona ko ari icyuma gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko gikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane ifite amatafari y'umutuku ahiye ndetse hakaba hari uturongo tw'umweru, ubona ko iri iruhande rw'umuhanda.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari inyubako irimo ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, gusa ndi kubonamo ibyo nzi nanjye ubwanjye byifashishwa mu gupima ibiro by'abantu, bikaba ari iminzani minini.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyidagaduro ndetse n'imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye by'umwihariko iyo guterura ibyuma bigiye bifite ibiro bitandukanye nk'iby'ibiro icumi, cumi na bitanu, mirongo itatu, mirongo ine, biterwa n'uko umuntu ameze.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kirimo intebe zisa zifite ibara rimwe, hakaba harimo n'igitanda gifite ibara risa nk'iry'izo ntebe kikaba gishashweho ishuka y'umweru ndetse hakaba harambitseho n'umusego.

Inzu nziza cyane yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse ukaba ubona ko ishakajwe amabati y'ubururu bwerurutse, ikaba ifite umureko utambitse ufata amazi ndetse hari n'andi magambo y'umuhondo yanditse mu gikuta cyo munsi y'ibaraza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika ibikoresho cyangwa se imiti yifashishwa n'umuganga, ugiye gutanga ubufasha bw'ibanze ku muntu wavunitse cyangwa se wagize ikibazo runaka.

Umuntu wicaye yifashe ku kuguru ndetse uko kuguru kukaba kuriho ikizwi nka tatuwaje, akaba yari ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze kandi afashe n'ubwonko bwe gutekereza neza.

Umuntu w'umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kumwe ukundi gusa nk'uguhinnyemo gakeya, akaba ari gukora ku mano ye ndetse ukuboko kumwe kuri inyuma mu mugongo, yambaye agasengeri keza cyane.

Abantu babiri, umwe akaba yambaye agapira gacishijemo uturongo tw'umweru ariko ko kakaba ari umukara. Ateruye icyuma nacyo cy'umukara ubona ko ari gupeza. Hari n'umuntu nanone w'umuganga uri kumurebera, wambaye isaha ku kuboko ari kumufasha.

Imashini iriho imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icyenda ndetse hakaba na zeru yifashishwa mu kwandika icumi, iyi mashini ikoreshwa n'abaganga, hari n'umugozi wayo uyicomekaho kugira ngo uzanemo umuriro.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cy'imvune, akaba aryamye ku gitanda ndetse hakaba hari undi muntu uri kumugorora amaguru, bikaba ari ibintu byiza cyane, uyu muntu uri kugororwa amaguru yambaye ikabutura, ndetse akaba afite na terefoni mu ntoki.

Mu nyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba ari inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, mbega ni ahantu hagenewe gukorerwa siporo, harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibyuma byo guterura.

Umukinnyi w'umupira aryamye mu kibuga, ukuguru kumwe kurarambuye ndetse ukundi gusa nk'ukuzamuye. Hari umuganga uri kumwitaho ubona ko ari kugenda afata imitsi ye ayikandakanda, iruhande gato hateretse umupira w'amaguru ndetse uwo muntu aryamye areba mu kirere.

Umuntu wifashe mu gatuza akoresheje ikiganza cy'iburyo akaba ari umugabo, ndetse ukaba ubona y'uko yikuye cyangwa se yambaye ubusa hejuru bisa nk'aho yarari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa ufite isume ku rutugu, iyo sume ikaba ari umweru, yambaye n'agashanete mu ijosi, yambaye ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi ubona ko ari amazi ari mu gacupa keza cyane, ndetse akaba yari mu myitozo ngororamubiri.

Yagufasha gukuraho inda bikoroheye. Ni amagambo yanditse ku gikoresho turi kubona ariko hakaba hari n'izina ryacyo mu rurimi rw'icyongereza. Ndikubona kigura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda.

Abantu b'abaganga ubona yuko barigutumbera cyangwa se barangamiye ahantu hari televiziyo cyangwa se insakazamashusho imanitse mu nguni, hari ibyo barimo baritegereza. Harimo amashusho y'abantu. Hari na mudasobwa iteretse ku meza irikubafasha muri ubwo buryo.

Igikarito kirekire gifite ibara ry'umukara ,umweru, ubururu bwijimye ndetse hakaba hari n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara, agaragaza ibigipfunyitsemo.

Umugabo aricaye afite ubwoya ku maguru ariko bisa nkaho yavunitse mu ivi kuko afatiyeho ikintu kigisashe kirimo amazi akonje azwi nka barafu, aho ari kwifasha kugira ngo agabanye uburibwe.

Uruhurirane rw'imiti ipfunyitse mu macupa no mu tuntu tumeze nk'udusashi, harimo na ga zo kwambara, harimo n'akantu kameze nk'agakingirizo gatukura ndetse n'umuti wa pomade ugabanya uburibwe.

Amacupa atanu. Atondetse ku murongo, irinini imbere, iritoya rikurikira, gutyo gutyo. Irya mbere rifite akabara k'umuhondo karishushanyijeho. Irya kabiri rifite ak'umutuku, irya gatatu ak'icyatsi, irya kane ak'ubururu, irya gatanu ak'umukara.

Abaganga bafite uburyo bakoresha bavura abana, aho babafata bakabaryamisha bagashyiraho utuntu tugiye dutandukanye tw'utuzero.

Umuntu wavunitse ashyirwaho bande akazirikwa bityo niba ari nk'igufa ryavuye mu mwanya waryo, bikaba byatuma ridakomeza gutana hanyuma akihutishwa kwa muganga bakamufasha.

Icyuma kirambitse, cyo guterura, gishobora kuba gifite ibiro biri hagati ya makumyabiri na bitanu na mirongo itatu ndetse hakaba hari n'imbuto zirimo avoka, pome, icunga ndetse n'indimu, hari n'imboga zirimo ishu, na shufurere.

Igikasike gifite ibara ry'umuhondo n'iry'umukara n'iry'umweru, kikaba cyifashishwa igihe umuntu arimo gukora imyitozo ngororamubiri, acyambara mu mutwe maze kigatuma umutwe utajegera, uzabona umukinnyi Victor Osimhen acyambaye.

Umuntu w'umugabo wambaye ikoboyi, yahinnye ipantaro ndetse akaba ari kuzirikwaho bande na muganga bigaragara ko yavunitse, urabona ko yambaye n'ishanete mu izosi.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, yaba kwirukanka, gukina umupira gusimbuka ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kugira ibibazo by'imvune mu ngingo by'umwihariko nko mu ivi.

Imyitozo ngororamubiri yo mu bwoko butandukanye, umuntu ashobora gukora ikaba yamufasha, harimo kwirukanka, gusimbuka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanyekanya, birimo nko kugenda urambura amaboko uyajyana mu kirere wongera uyamanura hasi.

Amazi meza cyane ari gusukwa mu kirahure akaba ari amazi yo kunywa akaba yaratunganyijwe n'inganda zibishinzwe, ni ibintu byiza cyane bishimishije, binogeye amaso kuko bifasha ubuzima bwa muntu.

Umuntu ubona ko ari umusore wumutse, ufite ubwanwa, akaba apfukamye ku mukeka wabugenewe mu gukora siporo ndetse akaba ari ahantu mu nyubako hameze nko muri salo, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igishushanyo kiriho ibinini by'amoko atandukanye, birimo purasetamoro, hakaba harimo ramusini n'ibindi, ariko babirambitse bashushanyije umuntu babyifashishije, hari n'inshinge ziriho imibare.

Amaguru meza yumutse y'umuntu ubona ko ari umukobwa akaba yayarambuye, ukuguru kumwe kurahinnye, hari ikintu gifashwe n'ukuboko k'umuntu umeze nk'umuganga, kiri gukora ku ivi ry'uyu mukobwa bigaragara ko ari ikibarafu.

Akantu kameze nk'agafoto cyangwa agashushanyo karimo ibintu by'imiti ifunze mu masashe cyangwa ifunze mu tuntu tumeze nk'udukarito dutoya.

Umukobwa wicaye yasobekeranyije amaguru, imbere ye hari utwuma tubiri duteganye turi mu ibara ry'iroze, bigaragara ko ari kwikorera imyitozo ngororamubiri, ndetse akaba imbere ye hateretse imashini cyangwa se mudasobwa.

Amavi y'umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore, gusa uko biri kose si ay'umukobwa cyangwa si ay'umuntu w'igitsina gore, bitewe n'uburyo yumutsemo. Gusa mu ivi hashushanyijeho utuntu turi mu mabara y'ubururu n'irindi ry'iroze. Bigaragaza ko aho hantu hashushanyije hafite ikibazo.

Amaboko y'abantu ubona ko ari gufata ku kintu cyifashishwa mu gupfuka umurwayi wagize ibibazo.

Umukobwa mwiza w'ikimero ufite amavi ubona ko yakomeretse, akaba hariho igipfuko cy'umweru, akaba agifatishije amaboko ye kugira ngo kitaza kuvaho.

Ibikoresho muganga yifashisha iyo agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, birimo umuti ushobora kugabanya ububabare, bande yo kuzirika, ibinini byifashishwa ndetse n'indi miti inyobwa.

Mu cyumba cyo kwa muganga hakunze kuboneka ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi. Ibyo bikoresho bikunze kuba bicometse ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Insakazamashusho iri mu cyumba ubona ko ari ahantu kwa muganga, aho hari n'umuganga bigaragara ko ari kwita ku barwayi bagiye batandukanye abasuzuma.

Imiti itandukanye yatunganyijwe, ikaba ibitswe neza ahantu muri etajeri, ikaba iri mu macupa indi iri mu bikarito, ubona ko ari ibintu byiza cyane, kuko ibitswe mu buryo idashobora kwangirika.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari gusimbuka ahagarara ku gakesi, yongera amanuka, ari kugorora ingingo z'amaguru bikaba ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane gusa dushobora gukora siporo zitandukanye, hari ushobora gukina umupira w'amaguru, ushobora kudunda ubudenesi, hari ushobora gukina wa Volley, hari ushobora gukina Rugby, biterwa n'amahitamo ya muntu.

Umuntu w'umugabo ufite umusatsi wambaye agasengeri, akaba yafashe amaboko ye ayahuriza inyuma ku mutwe ndetse intoki zirasobekeranyije, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa mwiza cyane w'ikimero akaba yicaye yasubekeranyije amaguru afite imisatsi myiza cyane nk'iy'abazungu, ndetse yambaye ipantaro y'umukara, agasengero k'umukara, imbere ye hateretse amazi ari mu icupa akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Metero, ibyuma bibiri bigerekanyije, icunga risatuye, pome, urusenda, pavuro ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'imboga, ibyo byose bikaba byifashishwa muri siporo mu buryo butandukanye.

Umuntu w'igitsina gore, akaba ari umukobwa cyangwa se umugore, yicaye ku mukeka mwiza w'ubururu bwerurutse, yifashe mu birenge ndetse amaguru ye ararambuye, ari mu myitozo ngororamubiri.

Inyungu zo gukora imyitozo ngororamubiri ni ijambo rimwe ry'Icyongereza ryanditse mu magambo ari mu ibara ry'umutuku. Munsi hakaba izo nyungu harimo kugabanya umuvuduko w'amaraso waba ari muke cyangwa se ari muremure, kuwongera ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Imitwe y'abantu babiri ihengekeranije, umugabo n'umugore, bose bari kunywa amazi, bari kureba mu byerekezo bibiri bitandukanye. Ubona ko bose bari kunywera amazi mu macupa asa y'ubururu.

Umuntu urikunywa amazi ayo mazi akaba ari mu icupa risa neza cyane ndetse ubona ko yambaye n'isaha ku kuboko n'agapira keza k'ubururu. Yari ari gukora imyitozo ngororamubiri arananirwa.

Umuntu w'umugabo yambaye isengeri urabona ko afite ibibazo by'akaguru kavunitse, akaba yicaye mu twatsi dutoshye bisa nkaho ari mukibuga, akeneye ubuvuzi.

Umukobwa wicaye ubona ko yarambuye ukuguru kumwe ukundi guhinnye, bisa naho ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye ahantu hasi ku mukeka ndetse ari muri saro.

Ibikapu bibiri, ibyo bikapu bikaba byanditseho agasaraba gatukura kari ahantu mu ibara ry'umweru, rizengurutswe n'amagambo y'uruziga ari mu ibara ry'umukara, hejuru ku ibara ry'umutuku hariho ijambo ry'icyongereza rigaragaza ubutabazi bw'ibanze.

Abantu bane b'abasore bari kwiruka, bakaba baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko bari mu marushanwa, basiganwa kugira ngo barebe uza kuba uwa mbere, maze aze guhembwa nk'umuntu wegukanye irushanwa.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki tw'abakinnyi tudasa, ubona yuko dutoboye hejuru kugira ngo intoki zibone aho zihumekera.

Amazi meza cyane y'urubogobogo, ari gusukwa mu kirahure cyiza, ubona ko ari amazi yatunganyijwe ndetse afite isuku. Ukaba wayanywa ukagira ubuzima bwiza.

Umuntu w'umukobwa wazamuye amaboko akayashyira inyuma ye mu mugongo, yambaye kuteri z'umweru, akaba ari gukora siporo ngororamubiri, yambaye n'isaha nziza y'umukara.

Muganga ari kumurika terefone, mu kanwa k'umwana. Iyo telefone ikaba ifashe ku kantu kameze nk'agati, ariko k'icyuma, karekare, ariko katari karekare cyane. Ari kumuvura amenyo.

Yicaye ariko afite ikibazo cy'ukuguru kwavunitse, yicaye ku ntebe ndende, iruhande rwe hari umuganga umufashe ukuboko, akaba yafashe ukuguru kwavunitse akuzirikaho ikintu cy'icyuma kugira ngo akugorore.

Umugabo uri kwiruka, ubona ko yashyizemo imbaraga zose, imitsi y'amaguru yareze, iy'amaboko sinakubwira ndetse inyuma ye hashushanyije ibintu birimo imbuto zitandukanye nka karoti, amashu ndetse pome n'amacunga.

Umukobwa uri kunywa amazi ari mu icupa, ubona ko ari icupa ry'umweru rifite agapfundikizo k'ubururu, rikaba rifite uturongo tugenda twerekana ikigero cy'amazi aho ageze.

Umuntu w'umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda isa y'umukara ikabutura n'isengeri, akaba yapfukamishije ukuguru kumwe ukundi guhagaze neza, ubona ko ari kugorora imitsi.

Umuntu w'umugabo wifashe mu mutwe, akaba yambaye isengeri nziza cyane, akaba ari kwikorera imyitozo ngororamubiri, hari ikirere cyiza gituje ubona ko gifite n'ibara ryiza cyane ry'ubururu bwacyo.

Hicaye umukobwa aricaye. Yicaye mu gacaca ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yarambuye amaguru ye yunamye afata amaboko ye ayakoza mu birenge ubona ko arimo ararambura imitsi.

Ni byiza cyane gukoresha imiti itandukanye irimo nk'ibinini, inshinge n'ibindi bikomoka cyangwa se bicururizwa muri faromasi zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda.

Igikoresho kimeze nk'intebe ya taburete ndende iticarwaho ariko kikaba kifashishwa mu gihe umuntu akora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri aho aza imbere yacyo agafata ku tuntu turi hejuru, hanyuma akagenda agisunika.

Ibintu bibiri bimeze nk'inkoni za zindi batanga mu bukwe, igihe umubyeyi ari guhabwa ishimwe ry'uko yareze neza, ndetse zikaba zishobora no kwifashishwa n'abasaza bari kwigendera bisanzwe. Ibyo byuma byo byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Uburyo butandukanye bwo gukora siporo aho dushobora gukina umukino w'umupira w'amaguru, karate cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Gusa tugomba kugira umukino mwiza tudategana cyangwa se ngo turwane.

Igishushanyo kiriho ibintu byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, hariho umupira w'amaguru, umupira wa Basket, umupira wa Volley cyangwa se w'amaboko w'intoki n'ibindi bitandukanye.

Umugabo aryamye ku gitanda, ubona ko arimo kwitabwaho n'abandi bantu. Hirya hari n'abandi bameze nk'uwo, bigaragara ko ari inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi zo kugorora ingingo n'imitsi, bya bindi bizwi nko gukora masaje.

Umuntu w'umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri, afite agatuza kanini, yambaye isengeri iri mu ibara ry'ikivuzo yanditseho amagambo y'umukara imbere mu gatuza kayo ndetse ubona ko ari kwirukanka, afite n'ibipimo arikugenderaho. Iruhande hari umuntu umeze nkaho ari kumutoza w'umugore w'umuzungu.

Amaguru yavunitse ashyirwaho icyuma kiyafasha kuyagorora bityo bigatuma umurwayi cyangwa se uwagize imvune abasha gukira vuba kandi byoroshye.

Umusaza ukuze wambaye umukandara ari kugendera mu byuma bibiri, aho yabifasheho kimwe kiriho iburyo ikindi kiriho ibumoso, hari umuganga ku ruhande uri kumwereka uburyo agendagendamo.

Umugabo wicaye ari kwitegereza muri mudasobwa ndetse muri iyo mudasobwa muri sikirini ubona ko harimo ifoto imeze nk'iy'umuntu cyangwa se akaba ari ikindi gishushanyo wenda nkaba ndi kureba nabi.

Amazi meza cyane ari gusukwa mu kirahure ndetse urabona ko ari amazi yo kunywa, ni byiza ko tunywa amazi meza asukuye.

Umuntu bigaragara ko ari umukobwa, yazamuye amaboko hejuru ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye akabande mu mutwe ndetse afite n'imisatsi ifungiye inyuma.

Umuntu w'umwana ashobora kurwara amenyo kubera yuko amenyo agira ibibazo bikomeye cyane bigendanye n'akazi akora ko kurya ibiryo, ariko igihe umwana arwaye amenyo ugomba kumujyana kwa muganga bakamusuzuma bityo bakamenya ikibazo afite.

Muganga arimo gufasha umurwayi, uwo murwayi bigaragara yuko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba ari kumufasha yafashe ukuguru kwe, ari gukora no mu ivi rye.

Umuntu ufite umupira bakina wanditseho umubare kane, yambaye n'undi mupira mwiza wo kwambara, ufite ibara ry'icyatsi kibisi akaba agiye gukina.

Ukuguru ku muntu, uwo muntu ni umurwayi wavunitse ndetse akaba aryamye agaramye yifashe mu nda yahuje ibiganza byombi. Akaguru yakazamuye kari mu gituza cya muganga, muganga ari kugenda agakandakanda.

Umuntu w'umugabo ari kunywa amazi, akaba afite akantu gaziritse ku kaboko ke, ako kantu gafite ibara ry'umweru kameze nk'akabande, afite na ekuteri yaziritse mu ijosi ndetse na telefone iziritse ku kizigira, yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Abana ubona ko baje kureba umupira ndetse uwo mupira ukaba ukinwa, ari umupira w'intoki hari ikirere cyiza gisa ubururu hari n'urusinga ruri kugaragara rujyana umuriro w'amashanyarazi. Bari ahantu hasize sima y'umukara harimo n'uturongo tw'umweru.

Inyubako yo kwa muganga, bakaba bari kutwereka mu imbere, aho hari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe z'ubururu ndetse zifite n'amapine ane azifasha kugenda cyangwase kwimurwa, harimo isaha y'urushinge imanitse hejuru, harimo n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Iyo abantu bakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, baba bakina umupira, birukanka se cyangwa se bakora izindi siporo. Bashobora kugira ikibazo cy'imvune gitunguranye. Gusa haba hari abantu bakorera umuryango wita ku mbabare wa kuruwa ruje, bahita bihutana abantu bagize ikibazo kwa muganga.

Umuntu ubona ko ari umugabo, wambaye agapira gaciye amaboko, ari kunywa amazi, yambaye ekuteri arikumva umuziki ndetse urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Umuntu ari ahantu mu cyumba. Aho hantu harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ibyo bikoresho byose byifashishwa mu buvuzi. Bikaba ari iby'ikoranabuhanga.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo runaka mu kuboko, akaba arimo arafashwa n'umuganga, yamuhaye akantu baterura gafite ibiro bikeya kugira ngo arebe uko akaboko ke gakora neza.

Igihe cyose ukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kunywa amazi, kurya imbuto nk'inkeri, kurya ubunyobwa, kurya ibishyimbo, kurya amacunga, kurya imboga, ndetse ukanywa n'amazi menshi.

Umuntu w'umubyeyi aricaye ateruye umwana, uwo mwana afashwe mu mutwe n'ukuboko kw'ibumoso kwa muganga ndetse muganga yamutunze ikintu cy'icyuma cy'ikoranabuhanga mu isura, ari kumupima indwara.

Igikapu kirimo imiti cyangwa se igisanduku kirimo imiti, iyo miti ikaba yifashishwa igihe muganga agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo bande zo kuzirika uwavunitse, imakasi, uturindantoki, inshinge, ibinini biri mu macupa ndetse n'ibindi.

Umuntu w'igitsina gabo ari kwinywera amazi ndetse yararamye ari kureba mu kirere, afite ubwanwa bwiza cyane, ari ahantu ubona ko ari mu muhanda kuko hakurya haragaragara ibimeze nk'imisozi n'inzu nyinshi cyane zituwemo n'abaturage.

Umuntu w'umubyeyi cyangwa se w'umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye ku mukeka wabugenewe wifashishwa mu gukora siporo. Ari ahantu mu nyubako hashashemo amakaro meza cyane. Ubona ko ari ibintu byiza bibereye ijisho.

Amaboko y'umuganga, ari gukanda ivi ry'umuntu ubona ko ari uw'igitsina gabo, uwo muganga akaba afite n'akantu kari kugaragara mu gatuza k'akuma bifashisha bapima umutima.

Umuntu w'umukobwa. Ari kunywa amazi. Ayo mazi ari mu gacupa. Ako gacupa gafite uturongo dutambitse twerekana ikigero cy'amazi. Ndetse uyu mukobwa afite isume yarambitse ku rutugu.

Ni byiza kandi ni iby'agaciro gukora imyitozo ngororamubiri, niyo mpamvu igihe cyose uri gukora imyitozo ngororamubiri urambura imitsi yawe, hari igihe ugira ikibazo cy'imvune bikaba ngombwa ko uzabagwa.

Igihe cyose ukoze siporo, ugomba gukoresha ibintu bigiye bitandukanye, kugira ngo bigende neza. Tutibagiwemo n'imbuto zo kurya. Nk'amatunda, ndetse ubunyobwa, inyanya n'ibindi. Ushobora no gukoresha imigozi usimbuka.

Imashini yifashishwa mu kureba igihe ndetse ikaba iri kubara saa yine n'iminota zeru zeru cyangwa saa yine zuzuye n'isegonda rimwe, n'amatsiyerise cumi n'atanu nako atanu.

Umuntu ari kunywa amazi, uwo muntu ni umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri afite akayesume ku rutugu gasa ibara ry'ikijuju, akaba ari kukifashisha yihanagura itutu ndetse n'icyokere.

Umuntu bigaragara ko ari umuzungu, afashe telefone, ariko ni byaba telefone bikoreshwa mu mafirimi ndetse hari mudasobwa iruhande rwe, hari n'insakazamashusho nini, bisa nkaho ari kuvugana n'inzobere.

Akagare k'abafite ubumuga ni akagare kifashishwa n'abo bantu mu rwego rwo kugira ngo na bo babashe kuva ahantu hamwe bagere ahandi mu buryo bworoshye, bidasabye ko baterurwa cyangwa bahekwa.

Umuntu w'umugore, aricaye, yambaye ishati y'umweru, ukuboko kwe kw'ibumoso gufite ikibazo cy'imvune, gusa bamuhaye igishashi kibamo amazi akonje. Agifatishije kuri uko kuboko.

Umuntu ubona ko yavunitse yaje kwa muganga bakaba bari kumuvura, bakaba bamufashe mu ivi bigaragara ko ariho yavunitse, ni byiza ko igihe cyose uri mu myitozo ngororamubiri ukavunika, wihutira kujya kwa muganga imvune igishyushye itarakuzahaza.

Amacupa maremare ubona ko arimo ibinini n'indi miti igiye itandukanye, uturindantoki tw'ubururu, akantu kameze nk'agacuma, impakasi, ibinini ndetse n'igikapu gishushanyijeho agasaraba k'umweru, ariko cyo gisa ibara ry'umutuku.

Bw'ibanze, ni ijambo ry'icyongereza ryanditseho rigaragaza ibikoresho umuntu yakwifashisha mu butabazi bw'ibanze, harimo: imakasi, agacupa k'amazi, agacupa karimo umuti wica udukoko, itoroshi cyangwa se isitimu, hakaba hari uturindantoki, ibinini, inshinge n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikiganza cy'umuntu uri kugaragara ko yambaye umupira w'ubururu ndetse akaba afashe ku kimera cyitwa umusafi, icyo kimera kikaba giteye ahantu hameze nko mu rucaca.

Hari ibimera bigiye bitandukanye nk'ibiti ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ariko hari ibyo abantu benshi baba bazi by'umwihariko babihuriyeho nk'ikimera cy'umusave, abantu benshi bazi ko kivura.

Igikarito cya mpande enye, ebyiri zirangana, izindi ebyiri zirangana, gifite inguni nziza cyane, kiri mu mabara y'umweru, ay'iroze ndetse n'icyatsi kibisi.

Udutebo twinshi dutandukanye gusa ubona ko tungana, turimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ahari ibimera byumye, ibibisi, indabo, ibiti, imizi n'ibindi byinshi.

Icupa rirerire ryiza cyane ripfundikishijwe cyangwa se ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru. Ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Ndetse hashushanyijeho agasimba kari kuguruka.

Umuti uri mu icupa rirerire ry'umweru, akaba ari icupa ryiza cyane ubona yuko hari n'ibintu by'imbuto bisatuye bigerekanyije, bikaba ari byo byakozwemo uyu muti.

Icupa ry'umweru ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru, ryanditseho ijambo ry'icyongereza Forever focus, ubona ko hari n'ibinini biri ku ruhande bimeze nk'iby'umutwe cyangwa se bya bindi twita purasitamoro.

Urusobe rw'ibihingwa n'ibimera byifashishwa mu gutunganya no gukora umuti cyangwa se imiti ya gakondo, harimo tungurusumu, tangawize ndetse n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Agacupa karimo imiti ya gakondo kanditseho ijambo Forever, ubanza ari ikigo gikora cyangwa gitunganya iyi miti, kikanayicuruza kugira ngo abarwayi bayibone mu buryo bworoshye.

Ikiyiko kiri gukozwa mu kintu kimeze nk'indobo y'icyuma, iyo ndobo y'icyuma ikaba irimo amazi y'umuhondo ndetse iruhande rwayo hakaba hateretse ibibabi bimeze nk'iby'umuravumba n'ikindi gihingwa cyitwa tangawize, bigaragara ko bari gutunganya umuti wa gakondo.

Ibimera byiza cyane bitoshye bifite ibara ry'icyatsi kibisi ubona ko biri ahantu mu gashyamba, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ubu buvuzi bukaba bwarateye imbere.

Umusozi uriho ibimera bigiye bitandukanye. Ibyo bimera bikaba byifashishwa mu gutanga imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo. Aho abavuzi ba gakondo bajya kuri iyi misozi bagashaka ibyatsi runaka bakabikoramo imiti.

Igitunguru gisatuye cyegeranye n'ikindi gisate cyacyo ariko cyubitse, indimu ebyiri na zo zishatuye, hakaba hari n'icupa ryiza ry'icyuma rizamuye, rishushanyijeho udusekuru tubiri n'ikindi kimera kimwe, handitseho ijambo hejuru ngo "Baho neza TV".

Icupa ry'umweru ririho icyapa cyangwa se igipapuro cyometseho, gifite ibara ry'umutuku, cyandikishijweho amagambo agiye atandukanye y'Icyongereza, hino hakaba hariho utuvi tubiri, hariho amagambo avuga ngo uvura kurangiza vuba, gucika intege.

Agacupa keza kari mu mabara y'umweru, kakaba gapfundikijwe umupfundikizo w'umweru, kakaba kifashishwa mu gushyirwamo imiti ya gakondo yatunganyijwe neza.

Icupa rirerire ry'umutuku ryanditseho FAB bigaragaza ikigo gikora imiti ipfunyitswe muri iryo cupa, icyo kigo kikaba gitanga ubuvuzi bwa gakondo.

Ibimera biboneka hirya no hino mu mashyamba ndetse no mu bihuru, byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse bikaba byifashishwa n'abaganga bavura mu buryo gakondo, kuko ni bo baba basobanukiwe neza uko biri buvangavangwe n'ibindi runaka.

Ikarito rishushanyijeho ibimera bigiye bitandukanye, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse ayo magambo akaba yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi. Harimo umuti wa gakondo ukomoka ku bimera bishushanyije kuri iryo karito.

Ibimera biri kugaragara ahantu mu ishyamba, hakaba hari n'uruzitiro ubona yuko ruzitijwe imikwege cyangwa se senyenge. Ukaba ubona yuko ari nko muri parike bitemerewe kuhinjira uko wiboneye.

Icupa ririmo umuti ugabanya uburibwe witwa pomade. Uyu muti usigwa ku muntu wavunitse cyangwa se ufite amavunane cyangwa ubundi buribwe bw'umubiri ariko butari uruguma.

Ubuvuzi gakondo bukomeje gutera imbere ku buryo usanga basigaye bafata imiti bakayitunganya mu buryo bwabo bakoresha bugiye butandukanye, bakayibika mu macupa no mu bikarito.

Ikarito nini cyane ipfunyitsemo imiti igiye itandukanye ya gakondo, ikaba ikorwa n'ikigo cyitwa Alliance ndetse ukaba ubona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije.

Umuntu ari gusoroma ibibabi, ibibabi by'ikimera, ukaba ubona ko agiye kubyifashisha mu gukora ndetse no gutunganya imiti ya gakondo, bikaba ari ibintu byiza cyane.

Umusave ni kimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, gusa ntabwo gikunze kuboneka ahantu hihariye kuko nta murima wabona uhinzemo imisave; ahubwo kiba mu ishyamba cyangwa mu bihuru.

Ubuvuzi bwa gakondo ni ubuvuzi bugoye cyane kuko nta hantu hazwi bajya gushaka ibimera bifashisha muri ubwo buvuzi, ahubwo bajya mu bihuru byo hirya no hino kugira ngo babone imiti bakoresha.

Isekuru ikaba ari isekuru irambitsemo agahini ndetse ako gahini kakaba kanduye ubona ko kananoze gakoreshwa mu gusekura imiti irambitse ku nkoko, iteretsweho iyo sekuru hakaba hari n'icupa ririmo rigaragara ko ririmo umuti utuzuye.

Amacupa menshi, ateretse ahantu hamwe ndetse hakaba hari n'igitambaro gikingirije, ubona ko ari imiti ya gakondo ipfunyitswe muri aya macupa kugira ngo itangirika.

Ibintu byinshi bitandukanye ushobora kwifashisha ubirya igihe cyose umaze gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba ari ibintu by'ubuvuzi bwa gakondo birimo inanasi, imeneke ndetse n'indabo zitandukanye.

Umuti witwa Shampo ukaba ari umuti wa gakondo watunganyijwe, ukaba uzwiho gukoreshwa umuntu yoga mu mutwe cyangwa se amesa mu mutwe.

Bitandukanye, hakaba hari ijambo ryanditsemo rigaragaza ko ari ubuvuzi bwifashisha ibimera. Ubwo ni ijambo ry'Icyongereza, ngerageje gusobanura. Ibyo bimera biteretse mu mavaze agiye atandukanyije ingano, afite n'amabara atandukanye, na byo ubwabyo bifite amabara atandukanye.

Umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye'gapfukamunwa, yambaye n'akanuzu asuku mu mutwe, bigaragara ko ari ahantu imbere ye ku meza hateretse imiti iri mu macupa n'indi iri mu bikarito, gusa ni umuganga wa gakondo.

Amacupa menshi cyane arimo imiti, iyo miti ikaba yaratunganyijwe cyangwa se yarakozwe mu buryo gakondo, gusa ayo macupa yose ashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'imbuto nk'indimu, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo kandi iyo miti ikaba ifasha abantu benshi cyane kuko iravura ndetse ikaba yanavura n'indwara zidakira cyangwa zitandura.

Abantu bambaye imipira isa bari ahantu ku musozi uriho ibikakarubamba bihateye. Bakaba bose ari abavuzi gakondo baje gushaka imiti.

Umusave ni ikimera kiza cyane kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo cyangwa se kikaba cyifashishwa n'abaganga mu gihe bakivanga n'indi miti kugira ngo bakore umuti wa gakondo.

Umuti wanditseho foreva ukaba uri mu gacupa k'umweru ndetse akaba ari umuti wa gakondo wifashishwa n'abavuzi bavura indwara za kinyarwanda cyangwa se bakoresha uburyo bwa kinyarwanda mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti uri mu icupa, hakaba handitse amagambo y'Icyongereza avuga ngo biroroshye kuwukoresha, ngenekereje kubisobanura bikaba bigaragaza ko ari umuti wakoreshwa na buri wese.

Igikarito kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru, ariko kikaba cyanditseho amagambo menshi cyane ari mu rurimi rw'Icyongereza, amwe yanditse mu ibara ry'ubururu andi yanditse mu ibara ry'umweru, akaba asobanura ibintu bipfunyitse muri iki gikarito.

Icupa rirerire, ryiza cyane, rimeze nka yayandi bashyiramo ibinyobwa byitwa ngufu, cyangwa se ibyuma. Akaba ari icupa, ryanditseho amagambo agaragaza ikigo, gikora imiti ibitswe muri ryo.

Urusobe rw'imiti igiye itandukanye n'uburyo itegurwamo, turabona ko ari imiti ya gakondo ndetse ikaba iri ahantu yegeranyijwe, harimo iri mu dutebo, iri mu isekuru ikiri gusekurwa ndetse n'indi irambitse iruhande rw'ibitebo.

Abantu babiri umugore undi ni umugabo, bari ahantu mu ishyamba ubona ko baje gushaka imiti gakondo ikomoka ku bimera biboneka hirya no hino mu misozi no mu mashyamba.

Umuce cyangwa se umu umusambi urambitsweho ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, birimo ibiti, ibintu byumye, harimo ibimeze nk'amandazi, harimo ibintu bigiye bitandukanyekanya byinshi hari n'imizani yo ku bipimo.

Itonde ry'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, ni ibimera usanga hirya no hino mu bihuru, mu mashyamba ndetse no ku misozi.

Umuntu ari gusekura imibirizi cyangwa se imiravumba, akaba arimo ayishyira mu mazi ndetse akayitumbikamo nyuma akazayinywa, ikamuvura indwara zo mu buhumekero.

Amenyo y'umuntu ari kugaragara ndetse uwo muntu bisa nkaho ari umukobwa, hasi hakaba hashushanyije icupa ririho igikakarubamba ndetse bikaba bigaragara ko na cyo gishobora kwifashishwa mu gusukura amenyo, cyangwa se kuyavura bifashishije ubuvuzi bwa gakondo.

Ibihuru birimo ibyatsi, ibyo byatsi bikaba bifite ibara ryiza cyane ry'icyatsi kibisi, biratoshye, ndetse urabona ko ari ibimera bishobora no kwifashishwa n'abavuzi ba gakondo.

Akagera ndetse n'andi magambo yanditseho y'Icyongereza, bigaragaza ko ari imiti itangwa n'iki kigo kitwa Akagera, akaba ari imiti ya gakondo yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye.

Ubuvuzi gakondo, ni ubuvuzi buri muntu wese yakwikorera, ariko bitewe n'ikigero cy'ubwo buvuzi, nk'ubu ngubu hari abantu benshi batazi ko iyo uhekenye tungurusumu ushobora kwirinda imivuduko y'amaraso, cyangwa se hakaba hari n'izindi ndwara waba wirinze nko kunuka mu kanwa.

Ni byiza cyane ndetse n'iby'agaciro gukoresha imiti igiye itandukanye yo mu buryo bwa gakondo, kuko ni imiti ivura kandi ikavura indwara zitandukanye zigakira.

Ibimera biri kugaragara bitoshye bifite ibara ry'icyatsi, hakaba handitse amagambo agira ati" baho neza tv" bigaragara ko ari ubuvuzi bwa gakondo.

Ibiti bigera muri bitatu, bitareshya, bigiye bisumbasumbana, kimwe kikaba ari kinini kurusha ibindi, byose ubona ko wagira ngo byatemwe ku giti cy'umuko, cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikiganza cy'umuntu gifashe icupa ricuritse risa nk'aho riri gusuka ibintu by'imiti, akaba ari icupa rishushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba ndetse hakaba hirya hari ibintu bimeze nk'ibikombe ndetse ubona ko ari ibyifashishwa mu gutegura iyo miti.

Ubuvuzi bwa gakondo ni ubuvuzi bukomeye kandi bumaze gutera imbere, ni byiza ko dukoresha imiti ya gakondo gusa tukabanza gucunga neza niba yadufasha.

Ibikombe biri ku murongo bigiye bitandukanye, harimo n'amacupa ndetse hakaba harimo aya parasitike, nayi byuma, ndetse hakaba hari n'ayandi ameze nka kanete. Arimo imiti ya gakondo.

Icupa riri mu mabara y'ubururu. Ryanditseho ijambo rimwe ry'Icyongereza, ndetse iryo jambo rikaba ryandikishije ibara ry'umweru. Rikaba risobanura ko ari amavuta y'uruhu cyangwa se amavuta asigwa ku ruhu yatunganyijwe mu buryo gakondo.

Ibimera bitandukanye. Bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo. Aho bifatwa bigasekurwa ndetse bikavangavangwa byarangiza bigatunganywa neza bikabikwa mu macupa yabugenewe. Hari n'ibikorwamo ibinini.

Ikimera gifite amababi ashyurumbutse, kikaba kiri kurasirwaho n'izuba ndetse kikaba ari ikimera cyiza cyane kuko cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikimera cy'umusave ni ikimera kiza cyane kifashishwa mu buvuzi gakondo, kikaba gikunze kuboneka ahantu mu mashyamba, by'umwihariko ahantu hari ishyamba rya kimeza.

Icupa riteretse mu biganza, rikaba ari icupa ry'umukara ariko rikaba ryanditseho amagambo agirango ngo ravenda, akaba ari umuti ukozwe mu buryo gakondo.

Amacupa abiri ashushanyijeho igikakarubamba, ndetse akaba yanditseho amagambo, ayo magambo akaba ari mu ibara ryiza cyane rifite amanyuguti ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Amacupa abiri yegeranye n'andi abiri na none yegeranye n'andi atatu ateganye n'irindi rimwe. Yose arimo imiti ya gakondo ikomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba.

Icupa ry'umweru ryanditseho ijambo ry'icyongereza rigaragaza ikigo gikora umuti wa gakondo upfunyitse muri iri cupa, hakaba hari n'andi magambo y'icyongereza agaragaza ubwoko bw'umuti, itariki wakoreweho n'igihe uzarangirira.

Amacupa atondekanyije ku murongo, harimo amacupa ane maremare ndetse y'ibyuma n'andi macupa abiri magufiya y'umweru apfundikishijwe cyangwa se apfundikirishijwe imipfundikizo y'icyatsi. Arimo imiti ya gakondo.

Umusave umera ahantu mu ishyamba cyangwa ahandi hantu ku gasozi no mu bihuru, gusa ni igiti kiza cyane kuko kifashishwa mu buvuzi gakondo.

Igikarito cyanditseho inyuguti ya c n'umubare ikenda, bigaragaza ko harimo imiti ya gakondo igiye itandukanye, yongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bwiza ndetse bufasha, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga igihugu gifata ibyemezo by'ubuziranenge cyangwa se bigaha ubuzimagatozi abaganga bamwe na bamwe bakora ubu buvuzi.

Ibinini bishoreranye, bimeze nka ramusini, hakaba hari n'amababi agiye abyivanzemo, ku ruhande hakaba hari ifoto iriho ibimera, hariho amababi aciwe, arunze mu ibasi, hari n'ayandi yasekuwe n'icupa rishyirwamo imiti.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bisigaye bitunganywa bikajyanwa ahabugenewe, bikaba byahingwa nko mu murima runaka wihariye, kugira ngo abavuzi nibabikenera bazabibone mu buryo bworoshye.

Igikakarubamba kifashishwa mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye ku buryo usibye no kuvura indwara zo munda ndetse n'izo ku ruhu ahubwo gikorwamo n'umuti wifashishwa mu koza amenyo.

Ibikarito bitatu ubona ko biri mu mabara asa, hakaba handitseho n'amagambo amwe ndetse ayo magambo asobanura ibigo bikora imiti ibitswe muri ibyo bikarito n'uburyo ikoreshwa.

Umuti uri mu icupa ubona ko ari icupa ryiza cyane, ukaba wanditseho serumo gusa ni umuti wakozwe mu buryo gakondo, wumvise iryo zina wagira ngo ni wa wundi batera abarwayi barembye bo kwa muganga wa kizungu.

Ikintu kimeze nk'indobo kinini, gipfundikiye neza, kirimo imiti yatunganyijwe, ikaba ari imiti ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara z'uruhu.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo. Twavugamo nk'ikibonobono n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iki kimera rero kizwiho kuvura indwara zo mu nda ndetse n'amahumane.

Ikimera cyitwa umuravumba gikunze kwifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye bwa gakondo gusa buri wese ashobora kukifashisha akaba yakikorera ubuvuzi, ushobora gufata amababi yacyo, ukayatumbika mu mazi, ukaza kunywa ayo mazi gusa biba birura.

Zo kuba wakiyandikisha nk'umuntu ukora ubuvuzi bwa gakondo by'umwihariko mu bice byo muri Afurika. Ni byiza cyane ko igihe wifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara ukoresheje uburyo bwa gakondo wakiyandikisha ugahabwa icyemezo n'abantu babishinzwe.

Igikakarubamba, ni ikimera gikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo, aho gikorwamo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye.